Abagore batatu bahagaze imbere y'umugezi, harimo uri kuvoma amazi ayasuka mu kintu kinini gisa n'ibase, abandi babiri bari gukoresha icyuma cyabugenewe gikurura amazi, kiyazana kikayasuka mu ndobo.

Umwana wirabura ufite umusatsi mukeya, wambaye imyenda isi roza, ishati yererutse ndetse n'ikabutura isa n'iroza rijya kwijima. Ahagaze imbere y'ikigega gisa umukara, ari kuvoma amazi ku gatiyo gacometse kuri icyo kigega akoresheje igikombe gisa umweru.

Umwana wirabura wambaye ishati ifite ibara ry'icyatsi kibisi, uhagaze ku mugezi ufite itiyo isa ibara ry'ubururu. Ahagaze imbere y'umwanya munini udafite ibiwuteyemo, naho inyuma yaho hari ibihingwa byinshi bifite amabara y'icyatsi ndetse n'umuhondo.

Icyapa kiriho ishusho y'umwana n'umugore bahagaze imbere y'ibihingwa bifite amababi matoya y'icyatsi, umugore yambaye imyenda irimo amabara menshi arimo umukara ndetse n'umutuku bivanzemo n'ayandi mabara, ateze igitambaro cy'umweru mu mutwe.

Abana benshi birabura, bafite umusatsi mukeya bakiri batoya, bahagaze imbere y'umugezi, bashaka gufata amazi. Umugezi urubakiye, ndetse ufite itiyo izana amazi, isa n'iy'icyuma.

Abantu benshi bicaye mucyumba cy'inama, bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari ameza ateretseho ibikoresho bitandukanye birimo amacupa y'amazi abonerana, imbere yabo kandi hicaye abayoboye inama bicaye kumurongo umwe, inyuma yabo hari icyapa kinini gisa ubururu cyandikishijeho amagambo manini asa umweru.

Itsinda ry'abantu benshi bahagaze bareba mu cyerekezo kimwe, biganjemo abagabo ndetse n'abagore ndetse biganjemo abirabura n'umuzungu umwe, inyuma yabo hari inzu y'ubururu ifite icyapa kinini cy'umukara cyandikishijeho amagambo y'ubururu n'ibishushanyo by'umweru.

Abantu benshi barimo abagabo ndetse n'abagore, harimo abambaye amatabuririya y'umweru, ndetse n'abambaye amataburiya asa ubururu bwerurutse, ni abirabura ndetse bahagaze iruhande rw'icyapa kirekire gisa ubururu n'umweru, cyandikishijeho amagambo y'amabara atandukanye, arimo umweru n'umuhondo.

Abantu benshi biganjemo abirabura, bambaye imyenda isa irimo imipira y'umweru n'iy'ubururu ndetse n'ingofero z'umweru, bafashe mu ntoki icyapa kinini gifite amabara arimo umweru n'ubururu, cyanditseho amagambo afite ibara ry'umweru inyuma yabo ari igiti kinini cy'amababi y'icyatsi.

Umugore wirabura ufite igitambaro kinini mu mutwe, yicaye ku gitanda cyo kwa muganga, yambaye imyenda y'ubururu, arambuye akaboko, iruhande rwe hari umugore wambaye itaburiya y'umweru, uri gukoresha imashini yaziritse ku kaboko kiwe,

Umugabo wirabura wambaye itaburiya y'umweru, afite urushinge mu ntoki ari kurutera umwana, warambuye ishati yambaye y'ubururu wirabura ufite umusatsi muke, inyuma yabo hari abana benshi bicaye babareba.

Umugore wicaye hasi uteruye umwana. Umugore yambaye umupira usa n'umweru, umwana yambaye umupira usa n'ibara ry'icunga rihishije. Hari umugabo upfukamye imbere yabo uri guhereza umwana utuntu two kurya. Umugabo yambaye umupira usa n'icunga rihishije ndetse yambaye amarinete.

Abantu bagera kuri bane, harimo abana ndetse n'abagore, bicaye ku ntebe begamye ku nkuta z'amatafari ahiye. Hejuru yabo hari amashusho ariho ibintu bitandukanye birimo abantu, amabara atandukanye ndetse n'amagambo yandikishije ibara ry'umukara.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama, barimo abagabo ndetse n'abagore, bari kureba ababicaye imbere, bicaye ku murongo umwe, ku ntebe zifite amabara ajya gusa n'umweru. Inyuma yabo bose hari icyapa, cyandikishijeho amagambo asa umweru.

Abana benshi bagera kuri bane, bazengurutse indobo isa ku mutuku, bose bateze intoki, umugabo uhagaze iruhande rwabo, ari gukoresha igikombe abasukira amazi, bagakaraba mu ntoki, agatakara muri iyo base iri hagati yabo.

Agasahani k'icyuma gafukuye kariho inshinge zigera muri zirindwi, zibonerana ariko zifite n'amabara y'icyatsi, iruhande rw'izo nshinge hateretse agacupa gatoya gafite umupfundikizo w'icyuma, gafite agapapuro kometseho kanditseho amagambo menshi kari iruhande rw'izo nshinge.

Abantu bagera kuri batanu bambaye imipira ndetse n'ingofero bisa, imipira ifite ibara ry'ubururu ndetse ingofero ifite ibara ry'umweru, bose bafite igipfunsi bazamuye mu kaboko k'iburyo inyuma yabo hari icyapa kinini gifite ibara ry'umweru.

Abana bakiri batoya bafite ibyantsi bari kunyweramo, bambaye imipira isa y'ibara risa n'icunga rihishije, bazengurutswe n'abantu bakuru b'abagabo, ndetse biganjemo n'abagore bari kubahereza ibyantsi abana bari kunywesha.

Umugore wirabura wambaye umupira usa iroza, n'igitenge gifite amabara arimo ubururu. Ateruye umwana nawe wirabura, wambaye ingofero y'umweru, umugore ahagaze imbere y'umugezi, ari kuvoma amazi ayashyira mu ndobo.

Abantu benshi biganjemo abagabo ndetse n'abagore bakiri bato, ndetse n'abakuze, bahagaze ku ibaraza ry'inzu isa umweru ifite amadirishya menshi y'umukara, bambaye imyenda y'amabara menshi agiye atandukanye, ndetse bahagaze ahantu hasa umutuku.

Umugabo wirabura wambaye agapfukamunwa gasa n'ubururu bwerurutse n'umupira usa n'ikigina, yahinnye umupira akaboko kamwe, iruhande rwe hari umugore wirabura uri kumutera urushinge mu kaboko wambaye umupira w'umweru.

Umwana wirabura ufite agasatsi gake, wambaye umupira usa ubururu buciyemo imirongo y'umukara ndetse ufite ikora ry'umukara, afite isabune mu ntoki ari koga mu ntoki, ari gusukirwa amazi n'umuntu ufite ijage isa ibara ry'icyatsi kibisi.

Abagore batatu bahagaze ku isoko y'amazi yubakishije inkuta zisa umweru zivanzemo andi mabara, babiri muri bo bahagaze imbere y'isoko, bari gusuka amazi mu ntoki, umwe muri bo agahita ayanywa. Iruhande rwabo hari amajerekani abiri, asa amabara ajya gusa nk'umuhondo.

Itsinda ry'abantu bicaye mu ihema, bicaye ku ntebe z'umweru, imbere yabo hicaye akana gatoya kicaye hasi, hari ubagaze imbere ufite indangururamajwi w'umugabo wirabura wambaye ishati y'ubururu, inyuma yabo bose hari icyapa cyanditseho n'amagambo y'umweru gisa ubururu.

Abantu benshi biganjemo abagore ndetse n'abagabo, bambaye amataburiya asa ubururu bwerurutse, bari gukoma mu mashyi bahereza ikaze umuntu wambaye ikote ry'umukara ndetse n'ishati yumweru.

Abagore birabura, bamwe bahagaze abandi basutamye bahagaze imbere yinzu ifite amabara yumweru ndetse bambaye imyenda ijya gusa, bamwe bambaye amakoti asa icyatsi aciye amaboko abandi bambayemo imipira isa n'irongi rihishije. Bose bareba mu cyerekezo kimwe kandi bahagaze ku mirongo myinshi bamwe imbere yabandi.

Icyapa kivuga ibijyanye na kanseri gifite amabara menshi, harimo umweru, ubururu, icyatsi n'umukara, cyometseho ifoto y'umugabo wirabura ufite umusatsi muke wambaye ikote ry'ubururu ndetse ni'shati y'umweru.

Ameza manini yicaweho n'abantu ku mpande zombi, bambaye imyenda itandukanye birabura bafite imisatsi mike, harimo n'abadafite umusatsi barimo abagore ndetse n'abagabo, buri wese muri abo afite mudasobwa imbere ye ndetse n'icupa ry'amazi.

Umugore n'umwana bahagaze ku mpande zitandukanye z'umugezi mutoya; umugore afite indobo isa umuhondo, ari gukoresha avoma amazi avama muri uwo mugezi. Umugore yambaye umupira usa ubururu bwerurutse ndetse n'ipantaro y'umukara.

Abana babiri bicaye kumeza y'urubaho umwe yamanitse akaboko k'iburyo ndetse ari guseka, inyuma yabo hari ikibaho gifite ibara ry'umukara cyandikishijeho ingwa z'umweru ndetse kiriho ibipapuro by'umweru bizengurutse ikindi kiri hagati yabyo.

Umwana ukiri muto wirabura ufite umusatsi mukeya ufite igikombe, uri kuvoma amazi ku umugezi ufite itiyo yicyuma izana amaz,i itiyo ifashe kurukuta rufite ibara ry'umukara, inyuma y'umwana hari ibihingwa bifite amabara yicyatsi.

Abantu benshi bisa nk'aho bari mu nama, bicaye bafite amazi yo kunywa, ubayoboye akaba abicaye imbere afite Mudasobwa n'indangururamajwi imbere ye, uyoboye inama kandi yicaye imbere y'icyapa cyerekana ibyo inama irimo iraganiraho.

Umugore wirabura yafashe ijerekani yayishyize mu iriba ari kuvoma, ari gufasha kandi umwana muto wirabura umuri iruhande na we ufite akajerekani gatoya ari kuvomesha mu iriba.

Abantu benshi bicaye mu matsinda agiye atandukanye, bicaye ku ntebe z'ubururu, buri tsinda ryicaye rizengurutse ameza ndetse bose bakurikiye inama. Ameza ariho amacupa ndetse n'ibirahure birimo amazi, imbere hari icyapa kinini cyerekana icyo inama igamije.

Abana bagera kuri bane bahagaze iruhande rw'umugezi wubakiye, umwe muri bo afashe mu ntoki icyuma cyabugenewe kizamura amazi kikayasuka mu ijerekani isa umuhondo bashyize imbere y'umugezi.

Abantu benshi biganjemo abirabura, bahagaze bareba mu cyerekezo kimwe, harimo abicaye ndetse n'abahagaze. Bari mu cyumba, inyuma yabo hari icyapa kinini gifite amabara arimo ubururu n'umweru, cyandikishijeho amagambo asa umweru.

Umugabo wirabura, ukiri mutoya afite imisatsi isa umukara ndetse yambaye amarinette, arunamye yambaye umupira usa n'ironji rihishije n'ipantaro y'umukara ari gukora ku kana gateruwe n'umugore wirabura, akana kambaye umupira usa n'ironji rihishije.

Urukuta ruriho amatiyo abiri azana amazi, itiyo rimwe rirafunguye umwana ari gukoresha intoki anywa amazi ari guturuka mwi itiyo ayandi akagwa mu ndobo imuteretse imbere, inyuma yayo hari ikigega giteretse hejuru ku rukuta rwubakiye.

Igikoresho gisa ubururu, gifite amaguru ane, gihagaze ku kameza k'imbaho, imbere yacyo hari abana bari kugikoresha bavoma ibisukika bikirimo, bambaye amashati asa umweru ndetse n'ubururu, bambaye n'amakabutura asa umukara.

Umugore wirabura wikoreye ku mutwe ijerekani ifite ibara ry'umuhondo ifite umupfundikizo w'umutuku, ayifatishije amaboko yombi ndetse afite igitambaro ku mutwe, iruhande rwe hari abana babiri bari kumureba, umwe yambaye umupira w'ubururu undi yambaye umupira w'umuhondo.

Umugore wunamye uri gukoresha ijererekai avoma amazi mu iriba, ijerekani isa umuhondo ndetse umupira yambaye na wo usa umuhondo, iruhande rwe hari umugabo wirabura, ufite igare ari koza akoresheje amazi yo mu iriba.

Abantu benshi barimo abazungu n'abirabura, abagore ndetse n'abagabo. Bahagaze imbere y'icyapa kinini gisa umweru n'ubururu, cyandikishijeho amagambo manini asa umweru. Bahagaze ku murongo umwe ndetse bareba mu cyerekezo kimwe.

Mu nzu y'uruganda rurimo imashini zisa, nini, zifite amabara atandukanye harimo ubururu ndetse n'icyatsi, iruhande rw'izo mashini hahagaze umugabo wambaye imyenda y'ubururu ndetse n'ingofero y'umweru.

Abagabo benshi bari mu nzu nini isa n'ikorerwamo inama, bicaye bazengurutse imeza ifite ibara ry'icyatsi kibisi, imbere yabo hateretse impapuro nyinshi ndetse n'ibirahuri bibonerana birimo icyo kunywa.

Urukuta ruriho itiyo izana amazi, hari umugore wambaye imyenda y'iroza, ufite ijerekani ifite ibara ry'umuhondo wateze imbere yiyo tiyo izana amazi ari kuyavoma, ari kumwe n'abana babiri birabura, umwe mukuru n'ndi mutoya.

Abantu benshi bagera kuri batanu barimo abakobwa bane n'umugabo umwe, bose barirabura ndetse bambaye imipira isa yose isa ubururu, bahagaze imbere y'icyapa kandi gisa ubururu, gisobanura umuryango bakorera uko witwa n'icyo ukora.

Abana benshi bagera muri batandatu, bahagaze imbere y'ikigega cy'umukara. Barirabura ndetse biganjemo abahungu n'abakobwa. Bambaye imyenda isa n'impuzankano harimo imipira y'ubururu, abambaye amakanzu cyangwa se amajipo asa ubururu bwererutse na babiri bambaye amakabutura asa n'ubururu bwijimye. Bari kunywa amazi mu bikombe, bari kuvomesha kuri icyo kigega.

Abagore babiri, umwe ateruye mwana undi afite urushinge ari kujomba uwo mwana, yambaye itaburira isa umweru ndetse iruhande rwe hari ikarito nini y'amabara y'umuhondo, ifiteho ikimenyetso gitukura.

Umwana wirabura ufite umusatsi muke wambaye umupira w'umutuku, ahagaze imbere y'urukuta rucometseho itiyo izana amazi, ari gukoresha amazi yoga mu ntoki asa nk'uwunamye.

Abagore batatu birabura bambaye ibitenge bifite amabara atandukanye, bari kuvoma amazi ku mugezi, babiri muri bo bari gukoresha icyuma cyabugenewe gikurura amazi mu mugezi naho undi ari gufata amazi avuye mu mugezi akayasuka mu ibase nini iteretse hasi.

Umugabo muremure wirabura wambaye amarinete, ikote ry'ubururu ndetse n'ishati y'umweru. Ahagararanye n'umukobwa mugufi w'umuzungu ufite imisatsi y'igitaka ndetse wambaye agapira kajya kuba umweru. Bafashe mu ntoki igikapu gisa umukara cyanditseho amagambo y'umweru.

Umwana wirabura wikoreye ku mutwe ijerekani y'ibara ry'umuhondo, iruhande rwe hari umugabo uri kumufasha wambaye umupira ufite ibara ry'ubururu bwerurutse, ingofero ifite ibara ry'ubururu bwerurutse ndetse n'agapfukamunwa k'umukara. Imbere yabo hari umukobwa ufite uruhu rwera ndetse ufite imisatsi miremire iboshye, ufite imfatamashusho mu ntoki, uri kubafata amashusho.

Amatsinda menshi y'abantu bicaye bazengurutse ameza menshi atandukanye, bamwe bicaye mu ntebe z'umutuku, abandi bicaye mu ntebe zisa umukara. Biganjemo abazungu ndetse n'abirabura. Buri wese afite impapuro imbere ye, ndetse n'uducupa tw'amazi tubonerana.

Umugore wambaye ibitenge birimo amabara yi'cyatsi ndetse uteze igitambaro cy'amabara menshi arimo umutuku mumutwe wirabura, ateruye umwana mutoya nawe wirabura urimo urasuzumwa n'umuganga umwicaye imbere wambaye umupira w'umweru.

Umugore wirabura wambaye agapfukamunwa k'umukara ndetse n'ingofero isa n'ikigina yambaye umupira w'umukara n'isakoshi y'iroza mu ijosi. Yazamuye akaboko kamwe k'umupira ari guterwa urushinge n'umuganga umwicaye impande wambaye imyenda y'ubururu bwerurutse n'agapfukamunwa k'ubururu bwerurutse.

Ameza magari akoze mu rubaho afite ikirahure gisa umweru hagati, giteretseho amavazi harimo ibimera bifite amababi y'icyatsi. Ameza afite impande zombi zicayeho abantu bicaye mu ntebe z'umukara, buri muntu afite icyo kunywa, kiri mu icupa riteretse imbere ye ribonerana.

Abantu benshi bicaye imbere y'umugabo uhagaze imbere y'inzu ifite imbaho z'ubururu bwerurutse yometseho icyapa gisa umweru, yambaye ikote arasa n'uri gutanga inama, iruhande rwe hari undi mugabo uhagaze yegamye kuri iyo nzu.

Imodoka ifite amabara menshi y'imbangukiragutabara, harimo umweru, umukara, umutuku ndetse n'ubururu, iparitse imbere y'abantu benshi bambaye imyenda y'amabara menshi atandukanye, inyuma yabo bose hari amahema manini y'umweru n'inzu nini ifite amabati y'umutuku n'idarapo riteye imbere yayo.

Abantu batatu bicaye ku ntebe z'urubaho imbere y'inzu, harimo babiri aribo umugore n'umugabo, umugore aratwite ndetse yambaye ikote rifite ibara ry'umukara, umuntu ubicaye imbere yambayebi ifite ibara ry'ubururu afite ibipapuro mu ntoki ari gukoresha abereka, imbere yabo hari indi ntebe iteretseho impapuro ifite ibara ry'umweru.

Abana babiri bakiri batoyaa, birabura bambaye imyenda y'amabara atandukanye, umwe yambaye umwenda usa icyatsi undi yambaye umwenda usa umutuku, bari koga mu ntoki bakura amazi mu mugezi.

Umugore wirabura wambaye agapfukamunwa kererutse gasa ubururu, yambaye igitenge ndetse n'imyenda isa ubururu. Hari uwambaye imyenda isa n'iy'abaforomo ufite agakoresho ku gutwi, urimo uramwumviriza ku inda.

Umwana wirabura uri guseka ufite agasatsi gake yambaye ishati ijya gusa n'ivu ndetse n'ikanzu isa n'ikigina, ari koga amazi ava mu ndobo imanitse hejuru ndetse amazi akagwa mu ibase isa icyatsi, inyuma hari igikuta cy'amatafari ahiye.

Umugore wicaye mu ntebe isa ubururu, wambaye umupira w'umweru, n'igitenge cy'amabara menshi yiganjemo umutuku, uteruye umwana wambaye agapira k'umutuku, imbere yabo hicaye umugabo wambaye inkweto nini zigera mumatako zisa umweru, wicaye ku gatebe kagufi, bicaye bose imbere y'inzu ifite amatafari atukura.

Abagore n'abana bari ku isoko y'amazi, ifite ahafungurirwa amazi hatandukanye, umugore umwe ari koza umwana mu ibase isa iroza, anakoresheje amazi ari gukura mu ibasi, undi mugore ahagararanye n'umwana ku ruhande imbere y'aho amazi atungukira.

Ameza magari y'urubaho afite ikirahure gisa umweru hagati ndetse giteretseho amavaze arimo ibihingwa, kuri buri ruhande rw'imeza hicaye abantu biganjemo abagore ndetse n'abagabo bicaye mu ntebe z'umukara, buri muntu afite icupa ribonerana ry'amazi imbere ye.

Umwana muto wirabura wambaye umupira w'umweru ndetse n'ikanzu y'ubururu akambara kandi inkweto zifunguye, ahagaze ateze amaboko munsi y'umugezi kugira ngo amazi agwemo, iruhande rwe hari indobo nini isa icyatsi iriho igipapuro gifasheho cyanditseho amagambo y'umweru.

Abantu benshi biganjemo abagabo ndetse n'abagore bicaye munsi y'ihema rifite inkingi zifite ibara ry'icyatsi, bari mu nama uyoboye inama abahagaze imbere afite indangururamajwi mu ntoki.

Abana benshi birabura bicaye mu cyumba, bicaye hasi, bicaye bakoze uruziga ndetse hari abari kubaganiriza basa n'abakuze. Abana bose bambaye imipira ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'abandi bambaye imipira ifite ibara ry'ubururu.

Umwana mutoya wirabura uri guseka wambaye ishati isa n'ubururu bwerurutse ndetse n'ipantaro ifite ibara risa n'ivu, ari gufungura amazi ku ndobo imuteretse imbere isa umweruru ifite umupfundikizo ndetse n'umukondo bifite ibara ry'ubururu bwerurutse, iyo ndobo ifite agasa n'agateyo kayiturukaho.

Umugabo wirabura wambaye ishati irimo amabara menshi nipantaro yumukara uri guseka cyane ahagaze imbere yumugezi afashe na'amaboko yombi kwijerekan niisumweruru asa n'uyitendetseho inyuma ye hari ibihingwa bifite amabara yicyatsi ndetse n'inyubako nyinshi.

Umugore uri gusunika icyuma cyabugenewe gikurura amazi ku kumugezi n'umwana ufite ijerekani, bateze ku kumugezi kugira ngo amazi agende agwa mu ijerekani, iruhande rwe hari andi majerekani ategereje kuvoma, yambaye umupira w'umutuku, iruhande rwe hahagaze abantu benshi bari kureba uko bakoresha umugezi.

Umugore wirabura, uteruye umwana na we wirabura mutoya, umugore afite igitambaro mu mutwe gisa n'igitenge yambaye, igitenge kirimo amabara menshi, arimo umutuku, icyatsi ndetse n'icunga rihishije, bahagaze imbere y'abantu benshi bicaye nk'abategereje.

Umugabo muremure wambaye ishati irimo amabara y'umutuku n'ubururu, wambaye ipantaro y'umukara ufite umusatsi mukeya n'ubwanwa bukeya, ari gusuhuzanya n'umugabo mugufi wambaye imyenda icikaguritse ndetse na we wirabura.

Icyapa kinini kiriho amagambo atandukanye, haba ku gisobanuro ndetse no ku mabara. Hari amagambo asa umweru, asa icyatsi ndetse n'asa umukara. Inyuma y'amagambo y'icyatsi hashushanyije ikarita y'Isi.

Umugabo wirabura, ufite umusatsi mukeya, uri guseka amwenyura, ufite ubwanwa bukeya, yambaye ishati y'amaboko maremare, idafite amakora, isa ubururu, ahagaze imbere y'abantu benshi bari mu kivunge.

Umukobwa wirabura ufite imisatsi myinshi uri guseka, areba hejuru ahumirije. Yambaye isengeri isa n'umukara ndetse n'ipantaro y'ikoboyi isa ubururu bwererutse ihinnye ku maguru, yicaye mu ntebe iboshye ndetse ari imbere y'ibaraza rifite ibyuma bisa n'ivu.

Abantu babiri birabura bari mu cyumba cy'inama, umugabo ndetse n'umugore, umugore yambaye ikote risa ubururu, afite indangururamajwi mu ntoki ndetse asutse ibisuko bisa umukara, inyuma yabo hari ibyapa byandikishijeho amagambo asa ubururu ndetse n'andi mabara.

Abantu benshi birabura bakuze biganjemo abagore ndetse n'abagabo, bahagaze bareba mu cyerekezo kimwe basa n'abifotoza, bahagaze kandi bafashe ku rupapuro rusa umweru, inyuma yabo haparitse imodoka y'umweru ifite umuryango ufunguye ndetse n'ayo inyuma yayo hari ihema risa umweru rinini.

Abantu benshi bakuze birabura, biganjemo abagabo ndetse n'abagore. Bahagaze ku myanya itangana bamwe hasi y'abandi bahagaze ku mirongo itatu. Bari kureba mu cyerekezo kimwe basa n'abifotoza. Iruhande rwabo hari icyapa cy'umweru kiriho amabara menshi arimo umweru n'ubururu ndetse n'amashusho ariho abantu bari gukora ibikorwa bitandukanye.

Umugore wirabura uteze igitambaro cy'umuhondo mu mutwe, wambaye umupira usa n'icyatsi cyijimye ndetse n'ikanzu irimo amabara menshi y'indabyo. Yicaye ku ntebe y'imbaho, inyuma ye hari igikuta cy'umweru gishushanyijeho ururabo ku ruhande.

Icyapa gifite amabara asa umweru avanzemo n'ibara ry'ubururu ndetse n'ibara risa n'vu, hariho ishusho y'umugabo wirabura wambaye imyenda y'umweru uhagaze imbere y'amadarapo abiri, cyandikishijeho amagambo menshi harimo asa ibara ry'ubururu ndetse n'asa ibara ry'umukara matoya.

Umugabo wirabura usa n'ukuzee yicaye hasi, yambaye amapingu, yambaye umupira w'umutuku n'ikabutura y'umukara afite amafoto amuteretseho ndetse inyuma ye hahagaze umugabo wambaye ipantaro isa umukara ndetse n'inkweto z'umukara.

Umugabo wicaye hasi bisa nk'aho afunze aziritse ku maguru, yambaye umupira w'ubururu n'ikintu gisa nk'ishuka akenyeye ku maguru, yegamye ku rukuta rutobotse akaba yifashe mu gahanga ameze nk'uwishwe n'ibibazo.

Abantu bagera kuri batandatu bicaye ku ntebe ngufiya, ziteretse imbere y'inzu bari kuganira, umwe muri abo bantu ni umwana mutoya, harimo abagore bakuze ndetse n'abagabo, umugabo umwe yambaye umupira utukura n'ipantaro isa n'ivu.

Umugore ufite ibisuko by'ibara ry'umukara wifashe mu mutwe, wubitse umutwe, wambaye umupirasa ubururu bwerurutse, ari ahantu asa umweru, afite inzara zisa umweru.

Umugabo uri guseka ufite imisatsi isa n'ibara ry'umukara, yakutse amenyo ndetse yambaye ishati y'ubururu, akenyeye igitambaro gisa umuhondo, inyuma ye hari abandi bambaye nka we na bo b'abirabura.

Umugore wirabura ufite umusatsi muke yicaye ku ntebe ngufi y'urubaho imbere y'urukuta rwo mu nzu, inyuma ye hari idirishya rifunguye ry'urubaho rifite utwuma turitambitsemo.

Inzu ifite amabara ajya gusa n'umutuku werurutse cyane, yandikishijeho amabara asa n'ubururu hejuru, asobanura igikorerwa muri iyo nzu. Imbere y'iyo nzu hateye ibiti bifite amashami asa n'icyatsi kibisi, ndetse iyi nzu ifite umuryango w'umweru, ufite amadirishya ajya gusa ubururu.

Umugore uhagaze afite inkwi yambaye umupira w'umuhondo urimo imirongo y'umukara, imbere hari umwana uri kurira yifashe mu mutwe, usa n'uwishwe n'ibibazo, yambaye umupira w'umweru, ndetse arirabura, inyuma yabo hari abantu benshi bari muri gahunda zitandukanye, ariko bari hanze bisa nkaho badafite aho baba.

Umugore wirabura uteze igitambaro gisa nk'ironji rihishije wambaye umupira usa nk'igitaka ateruye akana kakiri gatoya, kirabura kambaye umupira w'icyatsi n'igitambaro k'iroza. Iruhande rwe hicaye undi mwana na we wirabura.

Umugabo wirabura, wegamye ku rukuta ndetse yicaye hasi, yambaye umupira usa umutuku ndetse n'ipantaro isa n'ivu, yegamye ku rukuta runini rwandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umukara.

Abantu benshi birabura biganjemo abagabo ndetse n'abagore, harimo abasutamye abandi bahagaze ku mirongo inyuma yabo, bahagaze mu nzu ifite inkuta zisa umweru ndetse n'igisenge gisa umweru.

Umugabo wirabura wubitse umutwe nk'uwishwe n'ibibazo, wifashe mu gahanga, iruhande rwe hari umugore umufashe ku rutugu nk'umuhumuriza wambaye isaha. Bicaye mu cyumba gifite inkuta z'umweru.

Itsinda ry'abantu benshi birabura biganjemo abagabo ndetse n'abagore, harimo abicaye abandi bahagaze inyuma yabo bose bareba mu cyerekezo kimwe, bari imbere y'inzu ifiteho icyapa gifite ibara ry'umweru ndetse cyandikishijeho amagambo y'ibara ry'umukara.

Uruvunge rw'abana benshi, basa n'abaseka birabura bafite imisatsi mike, bamanitse ibiganza, bamwe muri bo bambaye amashati y'ubururu bwerurutse, abandi bambaye amashati y'ubururu bwijimye, abandi bambaye amashati asa n'igitaka.

Abantu benshi bari mu matsinda y'abantu babiri babiri bicaye mu ntebe z'umweru, bicaye kandi imbere y'imodoka isa umweru yandikishijeho amagambo y'ubururu, bambaye udupfukamunwa dusa ubururu.

Umugore wirabura ndetse ukuze cyane, yegamye ku rukuta rusa umweru, ateze n'igitambaro gisa umweru mu mutwe. Yambaye iherena ndetse n'urunigi mu ijosi. Afunguye umunwa ndetse ari kureba ibumoso bwe.

Umugore uyoboye inama wambaye umupira usa umweru ndetse afite indangururamajwi y'umukara, ahagaze imbere y'ameza ndetse iruhande rwe hari abagore batatu bari mu nama bafite amazi abateretse imbere, inyuma y'umugore hari icyapa kinini cy'amagambo asa umweru ndetse gifite amabara atandukanye.

Umugabo wirabura ufite imisatsi iboshye ari guseka yireba mu kirori, afite mu ntoki zombi akadodo gafite ibara ry'umweru ari gukoresha yikura n imyanda yasigaye mu minyo yambaye umupira w'ibara risa umweru.

Abantu benshi biganjemo abirabura biganjemo kandi abagabo ndetse n'abagore, hari abicaye hasi ndetse n'abandi bahagaze babakikije imbere yabo bose barareba mu cyerekezo kimwe ndetse bari guseka, harimo abafashe igisa n'icyapa kizengurutse, inyuma yabo hari icyapa kinini cy'umweru kigiye kiriho ibimenyetso bijya gusa.

Umwana wirabura ukiri muto, ufite imisatsi miremire ifungiye inyuma, wambaye umupira w'umuhondo n'iherena risa na zahabu, hari umuntu ufite utwenda dusa umweru ku ntoki, uri gukoresha agakoresho kareba mu kanwa asa n'umupima.

Abana benshi bicaye mu ishuri, bambaye imyenda isa y'amashati y'umuhondo, bamanitse amaboko bafite udukarito dusa umutuku, inyuma yabo hari ikibaho gisa umukara.

Umugabo wirabura ufite umusatsi muke ndetse n'ubwanwa yambaye umupira w'ubururu bwijimye, ahagaze imbere y'urukuta rufite ibara ry'ubururu bwerurutse. Yasamye asa n'uvuga ndetse afite amenyo yererutse.

Umugabo wirabura ukiri mutoya ari kureba mu kirori akoresha agakoresho gakura imyanda mu menyo k'akagozi afatishije amaboko abiri, yambaye umupira usa umweru ndetse inyuma ye hari urukuta rusa umweru.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abantu batatu; umukobwa aryamye ku gatanda arasamye, iruhande rwe hari abaganga babiri bari gukoza utwuma mu kanwa ke bamuvura. Inyuma yabo hari akameza kariho agasahani k'ibara ry'i roza gateretseho udukoresho tw'abaganga.

Umugabo wirabura usa n'umuganga wambaye amadarubindi ndetse n'agapfukamunwa gasa ibara ry'ubururu bwerarutse yambaye itaburiya isa umweru, imbere ye haryamye umugore wirabura, wasamye ari gukora mu kanwa, asa n'umusuzuma iruhande rwe hahagaze undi muntu wambaye imyenda isa ubururu bwijimye.

Umugore wirabura ufite ikirori mu ntoki ndetse ari kugikoresha yireba mu menyo yasamye, afite iherena ku izuru ndetse afite imisatsi iboshye. Yicaye mu cyumba kinini kirimo utubati n'ibindi bikoresho.

Icyumba kigari cyo kwa muganga, gifitemo intebe y'umukara igenewe umuganga n'intebe nini na yo isa umukara n'umweru igenewe umurwayi, ifite imashini isa umukara imbere yayo, gifite amakaro y'umweru hasi ndetse n'inkuta zisize amarangi y'umweru n'amatara menshi ari ku gisenge.

Umugore wirabura ufite intoki ebyiri urw'iburyo n'urw'ibumoso zitunze ku menyo ye. Afite amenyo yererutse cyane n'ishinya isa umukara. Afite imisatsi miremire y'umukara imanutse inyuma y'umugongo.

Umugabo wirabura uri guseka cyane, ufite agasatsi gake ndetse udafite ubwanwa, yambaye umupira ufite ijosi rirerire usa ibara ry'icyatsi kijimye, afite mu ntoki agakoresho kariho ubwoko bwinshi bw'amenyo atandukanye, yatunze urutoki n'akaboko ke k'ibumoso.

Umugabo ukiri muto wirabura ufite umusatsi w'umukara ndetse n'ubwanwa, arasamye yereka amenyo, umuganga uri kuyakoramo akoresha agakoresho k'umweru ndetse umugabo yambaye ishati y'imirongo irimo ubururu n'umweru.

Umukobwa wirabura ufite imisatsi miremire n'iherena risa umweru ku gutwi, arasamye umuntu umuhagaze imbere yambaye imyenda isa n'iy'umuganga, ari kumukoza utwuma mu kanwa amuvura cyangwa se amupima. Umukobwa afite igipapuro mu gatuza gisa icyatsi.

Abana benshi birabura bafite umusatsi muke bambaye impuzankano y'amashati arimo amabara y'umweru n'bururu bwijimye ndetse n'amakabutura asa amabara y'ubururu bwijimye bafite uburoso mu ntoki ndetse bari koza amenyo yabo.

Umugabo wirabura, ufite ubwanwa butari bwinshi, arasamye ari gukoresha agakoresho kagenewe gukura imyanda mu menyo, gasa ubururu ndetse gafite akadodo kagenewe kujya mu menyo.

Umugabo wirabura ufite ubwanwa butari bwinshi, ufite n'umusatsi mukeya, afite mu ntoki zombi akadodo kagenewe gukura imyanda mu menyo, afite amenyo yererutse ndetse ari kwegereza akadodo ku menyo nk'ugiye gukuramo imyanda.

Umwana mutoya wirabura wasamye ufite uburoso mu kanwa, ndetse yambaye agakanzu gafite amabara y'icyatsi karimo utudomo tw'umweru n'agapira gafite ibara ry'umweru, yaziritse igitambaro mu mutwe gifite ibara ry'iroza yicaye mu ntebe ifite ibara ry'ubururu.

Umugabo wirabura wasamye afite agakoresho gakura imyanda mu menyo k'akagozi, agafatishije amaboko yombi, yambaye umupira w'umweru, ari kumwe n'akana gato kirabura, gafite nako ako gakoresho gasa umweru k'akadodo, kari kugakoresha kikura imyanda mu menyo.

Umugabo wirabura ufite agasatsi gake udafite ubwanwa ari gukoresha akagozi afatishije amaboko yombi akura imyanda mu menyo, ari kwireba mu kirori kiri ku gikuta gifite irange ry'umweru.

Umugabo wirabura ufite uruhu runyerera ufite agasatsi gake cyane wasetse cyane, afite urudodo rusa umweru arufatishije amaboko yombi, ari kurukoresha mu menyo asa n'ukuramo ibiryo byafashe mu menyo.

Umugabo wirabura afite imisatsi iboshye arasamye afite akadodo gasa umweru afatishije amaboko yombi, yambaye umupira w'umukara, ari kumwe n'umwana na we wirabura, ukiri muto, ufite akadodo kameze nk'ako ngako, wasamye ari kugakoresha yikura imyanda mu menyo.

Abana benshi bari mu ishuri bahagaze imbere ndetse n'inyuma y'intebe zabo bicaraho, bafashe mu ntoki uburoso bupfunyitse mu ishashi ndetse bufite amabara agiye atandukanye arimo umutuku, umuhondo, ndetse n'umweru bambaye impuzankano z'amabara arimo umuhondo hakaba hari n'abambaye arimo ubururu bwerererutse ku mashati.

Umwana wirabura w'inzobe uryamye agaramye areba hejuru, ufite imisatsi myinshi ihambiriye cyangwa se iboshye, arasamye asa n'useka, hari uri kumukoza utwuma mu kanwa dukoreshwa tuvura amenyo, cyangwa se dusuzuma ibibazo afite mu kanwa.

Umwana wirabura, uryamye yegamiye ku gitanda cyo kwa muganga, yambaye umupira urimo icyatsi ndetse n'imirongo y'ubururu n'umweru. Arasamye, umuganga wambaye imyenda y'ubururu n'agapfukamuwa k'ubururu bwererutse, ari kumukoza utwuma mu kanwa, amupima niba nta kibazo afite mu kanwa.

Umugabo wirabura ufite ubwanwa buke cyane ndetse n'umusatsi muke cyane, uri guseka cyane, ufite amenyo yerurutse, yambaye umupira usa umweru ndetse afite uruhu rwiza runyerera, inyuma ye hari ibara ry'umuhondo.

Umugabo wirabura wasamye usa n'useka, ufite amenyo yererutse, ufite ubwanwa buke hejuru y'umunwa, amaso ye ntagaragara neza ndetse afite akadodo gasa umweru afatishije amaboko yombi asa n'uwikura ibiryo byaheze mu menyo.

Umugabo wirabura afite ingohe nyinshi n'amenyo yerurutse, arasamye asa n'useka afite ishinya ijya gutukura. Afite agakoresho gakura imyanda mu menyo gasa umweru k'akagozi, afatishije amaboko yombi.

Icyumba kirimo ibisa n'imashini zerekana amashusho, ziteretse hejuru y'utubati turimo ibikoresho bisa n'ibyo kwa muganga, iruhande rw'iyo mashini hateretse intebe y'umukara, ifite amaguru afite amapine, kure kandi hirya y'imashini hari ikindi gisa n'imashini gifashe ku gisa n'itiyo y'umweru ituruka hejuru ku gisenge, inyuma y'izo mashini hari urukuta rw'umukara.

Umugore wirabura ufite imisatsi imanuka hafi y'ijisho mu maso yambaye amaherena asa n'utwuma, afashe mu ntoki akadodo gafite ibara ry'umweru yashyize mu menyo ari gukoresha akuramo imyanda.

Icyumba kigari, gifite amabara y'umweru ku nkuta ndetse n'intebe yo kwa muganga irimo ifite amabara y'icyatsi, iruhande rw'iyo ntebe hari imashini isa umukara ndetse n'utundi twuma turambitse ku gikoresho gisa umweru.

Abakecuru bicaye hamwe, bambaye ibitenge by'amabara menshi atandukanye, benshi muri bo bateze ibitambaro mu mutwe, inyuma yabo hari intebe zisa umweru, kandi inyuma yazo na ho hari insina z'ibitoki.

Umugabo ari kumwe n'umukobwa bahagaze imbere y'igikuta gisa umukara, umugabo yambaye ishati ijya gusa umutuku ndetse n'agapira gasa n'icyatsi kijimye, umukobwa ufite agasatsi gake yambaye amarinete ndetse n'agakoti k'ikoboyi gasa ubururu bwerererutse.

Umusaza wicaye useka cyane ufite umusatsi mukeya ndetse yambaye umupira w'ubururu urimo imirongo y'umweru n'ubururu. Ari gukina umukino w'intoki akoresha ikibaho kimutereretse imbere. Inyuma ye hari ikirere gisa neza kirimo ibicu bike.

Umugabo akuze wambaye amarinete, ufite imisatsi y'umukara n'umweru bivanze, yambaye agapira kajya kuba umweru karimo imirongo itambitse, ari kumwe n'umwana wambaye ishati y'imirongo y'umweru n'umukara uri guseka cyane, ufite umusatsi w'umukara.

Umugore wirabura, wicaye mu nzu y'uruganiriro imbere y'akameza, afashe mu ntoki ikirahure cy'amazi kibonerana, ateze akaboko hari umukobwa uri kumuha ikinini na we wirabura, uhagaze hejuru yiwe.

umukecuru n'umusaza bafite imisatsi y'umweru, umusaza yambaye amadarubindi afite ibara ry'umukara n'ibirahure bibonerana n'umupira utukura, umukecuru yambaye urunigi mu ijosi n'umupira utukura urimo uturongo tw'ubururu bwijimye. Bahagaze mu cyumba gifite inkuta zifite ibara ry'umweru.

Umugore ukuze wirabura ufite igitambaro cy'umukara mu mutwe, wambaye umupira usa n'icunga rihishije ndetse n'impeta mu rutoki. Afashwe ku rutugu n'umukobwa wambaye nk'umuforomokazi, wambaye umupira w'ubururu ndetse ufite ibisuko by'umukara.

Umusaza ukuze wirabura wicaye mu kagare k'abafite ubumuga wasobekeranyije intoki ufite agasatsi gake, ari kurebana n'umugore wambaye imyenda y'ubururu isa n'iy'abaforomokazi ufite umusatsi mwinshi wirabura umufashe ku rutugu.

Abagore babiri birabura, barambuye amaboko bari mu myitozo ngororamubiri, kumwe imbere, ukundi inyuma. Inyuma yabo hari igiti kinini kiri guturukamo urumuri gifite amababi y'icyatsi.

Abagore babiri basa n'abakuze birabura umwe yambaye igitambaro cy'umutuku kumutwe yambaye n'umupira wicyatsi, undi yambaye igisa n'ikote cy'umukara gifite imirongo imanuka y'umweru bari kugenda ahantu hari utwatsi ndetse inyuma yabo hari igiti.

Umugabo wirabura wambaye agapira k'ikigina cyererutse, ukuze, ufite imisatsi y'umweru ndetse wambaye amarinete. Afite agakoresho gasa icyatsi karemereye mu ntoki ari gukoresha imyitozo ngororamubiri. Iruhande rwe hahagaze umuforomo ufite imisatsi y'umukara, wirabura, wambaye imyenda ijya gusa n'iroza.

Itsinda ry'abantu bicaye hagati y'ibiti binini bibiri, bamwe bicaye mu ntebe zisa umweru, abandi bicaye hasi. Bose barirabura, ndetse biganjemo abagore ndetse n'abagabo.

Umugore wirabura wambaye imyenda y'iroza ufite agakoresho gapima umuvuduko w'umutima mu ijosi, wambaye agapfukamunwa k'ibara ry'ubururu bwerurutse, afashe akaboko mu ntoki k'umukecuru umwicaye imbere yagashyizeho imashini ari kumupima uburwaye, inyuma yabo hari ibihingwa ndetse n'ibyatsi bifite amabara arimo icyatsi ndetse n'umuhondo.

Umugabo ukuze ndetse n'umugore ukuze, bose barirabura, bicaye ku meza y'urubaho, umugore afite urupapuro rufite ibara ry'umweru. Imbere yabo hateretse uducupa tw'imiti n'ikirahure cy'amazi kibonerana.

Umugabo wirabura ufite umusatsi w'umweru w'imvi, yambaye ishati irimo amabara menshi yiganjemo umutuku, ateruye mu ntoki isahani isa umweru ari gushyiraho ibiryo abikura ku isahani iteretse ku meza asa ubururu.

Umugabo wirabura ndetse n'umugore w'umuzungu ufite uruhu rwera, bari mu cyumba gisa n'icyo gukoreramo imyitozo ngororamubiri. Umugabo afashe ku byuma bibiri bishinze nk'inkingi impande zombi, asa nk'ugerageza kugenda mu nzira ibyo byuma bikoze.

Umugore ukuze yicaye imbere y'ameza afite ikirahure kibonerana mu ntoki, kirimo amazi. Imbere ye hahagaze umukobwa ukiri muto, uri kumuhereza ibinini, abikuye mu gakoresho k'agakarito gasa umweru, yambaye imyenda isa ubururu.

Umugore ukuze wirabura ufite imisatsi y'umweru miremire wicaye hasi ku musambi wifashishwa mu myitozo ngororamubiri, yarambuye akaguru kamwe arambuyeho amaboko agerageza gukora ku no, ukundi kuguru kurahinnye yicaye mu cyumba gifite ibirahure byinshi.

Umugore ukuze, wirabura, wambaye umupira usa ubururu bwerurutse, ufite inkoni yo kugenderaho mu ntoki, ari kumwe n'umugabo wambaye umupira w'ubururu ndetse ufite ubwanwa bwinshi.

Umugabo ukuze ufite uruhara, wambaye amarinete, ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro isa nk'ivu. Ari guhaguruka ku buriri bimugoye afashijwe n'umugore wambaye imyenda y'icyatsi ndetse n'ibara rijya gusa n'umweru.

Umugabo ukuze wicaye mu kagare k'abafite ubumuga, umugore uri inyuma ye ari kumusunika mu kagare afite imisatsi isa umukara ari guseka cyane, yambaye umupira usa ubururu bwerurutse.

Umugabo ukuze wirabura, wambaye marinete, ndetse ufite umusatsi mukeya w'imvi, n'ubwanwa busa umweru. Yambaye ishati itukura, imbere ye hari umuganga, ufite ibikoresho byo kwa muganga, kimwe kiziritse ku kaboko ke, wambaye umupira usa ubururu bwerurutse.

Umukecuru n'umusaza bicaye kumeza ari mu nzu isa n'uruganiriro, inyuma yabo hahagaze umusore wambaye umupira usa n'ivu w'umuzungu. Umusaza arirabura ndetse yambaye umupira usa nk'ikigina. Umukecuru afite imisatsi isa umweru, ndetse yambaye ikote risa n'icunga rihishije.

Umugore uri gucunga umugabo wicaye mu kagare, umugabo arakuze arashaje, yambaye umupira usa n'ikigina n'ikote rifite amabara yijimye. Afite igitambaro yaramburiye ku maguru gisa ubururu. Umugore uri kumusunika mu kagare yambaye umupira w'ubururu ndetse n'ipantaro y'ubururu.

Umukecuru ndetse n'umusaza birabura bari mucyumba bari kumeza afite igitambaro gitukura hari kandi amasahani ariho ibiryo imbere yabo, hari ikirahure kirimo amazi kibonera umukecuru yambaye urunigi mu ijosi ndetse n'umupira usa n'iroza umugabo yambaye umupira muremure usa n'ivu.

Umugabo wirabura ufite ubwanwa bw'umweru bw'imvi, ufite uruhara wambaye ishati y'ikigina, yarambuye akaboko, afite imashini iziritse ku kaboko ke. Umugore umwicaye imbere yambaye itaburiya y'umweru, ari gukoresha iyo mashini amupima.

Abantu bicaye mu mbuga irimo ibyatsi bigufi by'ibara ry'icyatsi kibisi, bamwe bicaye mu ntebe zifite amabara atandukanye arimo umutuku n'icyatsi, abandi bicaye hasi muri ibyo byatsi.

Umukecuru n'umusaza bafite utuntu dusa umweru mu ntoki, umusaza yambaye umupira usa ubururu ndetse afite imisatsi y'imvi y'umweru, umukecuru afite amaherena y'umweru ndetse yambaye umupira usa umutuku, bicaye mu ruganiriro.

Umugabo wirabura wambaye amarinete y'umukara, ufite imisatsi y'imvi ndetse uri kuzana uruhara, ari kwandikisha ikaramu ifite agafuniko k'umweru yanyandika mu ikayi isa umweru. Yambaye ishati isa icyatsi cyijimye ndetse n'agakote gasa nk'ivu.

Umugore n'umwana bicaye mu cyumba kinini gifitemo akabati bateretsemo intangamashusho nini ifite ibara ry'umukara, bicaye ku meza y'urubaho ndetse bafite udukoresho bari kureba imbere yabo dutoya dufite ibara ry'umweru.

Abantu babiri, umugabo wirabura ndetse n'umugore ufite uruhu rwera, baraseka cyane ndetse bahinnye amaboko nk'abirukanka, inyuma yabo hari ibiti byinshi bifite amababi afite ibara risa n'ironji rihishije.

Umugabo wirabura kandi ukuze wambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara. Afite agakoresho kifashishwa muri siporo gasa ubururu bwererutse. Iruhande rwe hari umugore w'umuzungu uri kumufasha wambaye imyenda y'ubururu.

Abagore babiri ukuze n'umutoya, ukuze afite imisatsi ijya kuba umweru, naho umuto afite ibisuko bijya kuba umukara, umuto afite mu kaboko ke umwana wirabura ufite imisatsi myinshi y'umukara ndetse wambaye umupira usa n'vu.

Umugabo ukuze wirabura ufite ubwanwa busa umweru ndetse n'uruhara, yambaye ishati irimo imirongo y'umweru n'umukara ari gukoresha agakoresho kagenewe abakuze kabafasha kugenda, iruhande rwe hari umugore w'inzobe wambaye imyenda isa ubururu bwerurutse uri kumufasha gukoresha ako gakoresho.

Umugabo wirabura uhagaze imbere y'akameza batangiraho ijambo, ufite indangururamajwi imbere ye ndetse n'imfatamashusho y'umukara, inyuma ye hari icyapa kinini kiriho ibara ry'icunga rihishije, naho iruhande hari ishusho iri kumufata na ya mfatamashusho imuteretse imbere.

Abakobwa benshi bicaye mu nzu y'inama mu ntebe z'umweru bambaye imipira ifite ibara ry'umweru, bicaye bakurikiye uhagaze imbere rufite indangururamajwi ndetse uhagaze i ruhande rw'icyapa gifite ibara ry'iroza.

Abantu bagera kuri batandatu bambaye imyenda isa umweru ipfutse hose usibye ku maso hariho amarinete ndetse n'agapfukamunwa gasa ubururu bwererutse, inyuma yabo hari umugabo wambaye agapfukamunwa gasa ubururu bwerurutse ndetse n'imyenda isa iroza.

Umugabo uryamye hasi ku gakoresho kagenewe gutwara ufite ikibazo, iruhande rwe hari abambaye amataburiya ndetse n'uwambaye agakote gasai icyatsi gaciye amaboko. Abamuzengurutse bose bambaye udupfukamuwa harimo abambaye udupfukamunwa tw'ubururu bwerurutse ndetse n'abambaye utw'umukara inyuma yabo hari igiti cy'amababi manini kandi ikirere kirasa n'icyijimye.

Icyapa gisa ubururu kiriho amagambo asa umweru, kiriho kandi akamenyetso k'ibiganza bibiri bisa n'ibisuhuzanya, amagamboga ariho afite igisobanuro cy'abantu bafite ubuzima buzira umuze b'Abanyarwanda.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo umurwayi uryamye ahasa ubururu ufite ishuka isa ubururu imworosheho ndetse n'abaganga benshi bamuzengurutse bambaye imyenda y'ubururu haba ku ngofero ndetse no ku myenda ndetse n'udupfukamunwa dusa ubururu bwererutse.

Itsinda ry'abantu, bose bahagaze ku murongo umwe, ndetse bareba mu cyerekezo kimwe. Bose barirabura kandi bahagaze imbere y'icyapa kinini, cyandikishijeho amagambo y'umweru cyo gisa ubururu.

Umuhungu n'umukobwa birabura bahagaze imbere y'icyapa cyandikishijeho amagambo yu'bururu kinini gisa umweru, bajya kureshya mu burebure ndetse bateruye ibyapa bibiri bisa umukara, byandikishijeho amagambo avanzemo umweru ndetse n'umuhondo.

Abakobwa benshi bicaye mu cyumba gisa n'icy'inama. Abicaye inyuma bose bambaye imipira isa umweru, na ho abicaye ku meza y'imbere harimo bambaye imipira y'imikara abandi bakambara imyenda y'amabara atandukanye. Imbere yabo hari ameza ariho ibitambaro bifite amabara abiri atandukanye.

Icyapa cyerekana ibijyanye n'imiti gifite amabara menshi atandukanye ndetse kirimo ifoto y'umwana iri inyuma y'amagambo yandikishije ibara ry'umweru, hariho amabara y'umutuku, ubururu bwererutse ndetse n'ayandi.

Abantu benshi bicaye imbere y'igikuta bicaye mu matsinda y'abantu babiri babiri ku kameza. Kuri buri ntebe hariho uwambaye ikirahure mu maso ndetse n'agapfukamunwa k'umweru, kamurinda indwara ndetse yambaye n'itaburiya isa umweru.

Umugore w'inzobe wirabura ufite ibisuko bisa nk'igitaka, wambaye umupira w'umukara, yarambuye akaboko, umugabo umwicaye imbere yazirikiyeho imashini, uwo mugabo arirabura afite umusatsi ujya kuba mwinshi ndetse yambaye ishati y'amaboko maremare.

Itsinda ry'bantu harimo abicaye n'bandi babahagaze inyuma birabura barimo abagabo ndetse n'abagore, bicaye bareba mu cyerekezo kimwe n'abahagaze, inyuma yabo hari icyapa kinini kiriho amagambo yo mu mabara y'icyatsi ndetse kiriho ibintu bishushanyije mu mabara menshi agiye atandukanye.

Icyapa kirimo amabara menshi yiganjemo umweru, umuhondo, ubururu ndetse n'ayandi, handikishijeho amagambo mu mabara agiye atandukanye hariho igishushanyo cy'umuntu cyibanze ku kwerekana ubwonko bw'umuntu.

Icyapa gisa umweru cyandikishijeho amagambo y'umutuku ndetse kiriho igishushanyo cy'udukingirizo, iruhande rw'icyo cyapa hari abantu bagera kuri bane bagiteruye, harimo abakobwa babiri n'abagabo babiri bambaye imyenda y'umweru usibye umugabo umwe wambaye n'ikote ry'umukara riciye amaboko.

Ibiziga byinshi byanditsemo amagambo asa umweru ariko bifite icyo bihuriyeho. Ibiziga bimwe bisa nk'ironji rihishije, ikiziga kiri hagati gisa ubururu bwerurutse, naho ibindi biziga bisa nk'ivu, umuhondo, icyatsi ndetse n'ubururu bwijimye.

Itsinda ry'abantu benshi, harimo abicaye abandi babahagaze inyuma bose bagiye bafite amafoto mu ntoki zabo cyangwa se impapuro, harimo abagabo ndetse n'abagore bambaye imyenda y'amabara agiye atandukanye, inyuma yabo hari icyapa kinini cy'umweru kigiye kiriho uturango tw'amabara ajya gusa.

Abagabo babiri birabura bafatanye mu biganza basa n'abasuhuzanya bambaye amakote asa ubururu ndetse n'amashati asa umweru, bafite mu ntoki zabo impapuro zisa umweru, inyuma yabo hari icyapa kinini cyandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'ubururu ndetse n'ibishushanyo bifite amabara menshi.

Icyapa kinini kiriho amabara atandukanye harimo umweru ndetse n'ibara risa n'ironji rihishije, hariho kandi ifoto y'umugore wambaye ikanzu isa icyatsi ufite indangururamajwi imbere ye.

Abantu babiri , umugore wirabura ndetse n'umugabo w'umuzungu w'uruhu rwera wambaye ikoti ry'umukara ndetse n'ishati y'ubururu yerurutse mo imbere, bahagaze imbere y'icyapa kirekire cyandikishijeho amagambo y'amabara menshi atandukanye gisa umweru.

Umuryango winjira mu nzu ufite amadirishya asa ubururu ndetse impande yayo hari inkuta zisa umuhondo hejuru y'uwo muryango hari icyapa kinini gisobanura ko iyo ari inzu igurishirizwamo imiti byandikishije mu magambo manini asa umweru.

Inzu nini yubakishije amatafari ahiye ajya gutukura, ifite amagorofa abiri, ifite n'amadirishya asa n'ivu. Imbere yayo hasi ku ibaraza hahagaze abantu benshi basa n'abategereje serivisi.

Inyubako ndende ifite amagorofa agera muri atatu, ifite icyapa kinini cyane hejuru yayo cyandikishije amagambo y'icyatsi manini asobanura ko ari inzu icuruza imiti, imbere y'iyo nzu haparitse imodoka zigera muri enye zisa umukara.

Utubati tudafunze turimo imiti myinshi iri mu makarito agiye atandukanye, harimo amakarito afite amabara menshi arimo ubururu, umweru, umutuku, ibara risa n'ironji rihishije ndetse n'ayandidi mabara.

Umwana wambaye ikote risa umukara, ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru. Ari gusunika uwicaye mu kagare gasa umukara, wirabura, usa n'umugabo wambaye ishati y'umweru. Agiye kumwinjiza ahari ihema risa umweru rifite ibitambararo by'icyatsi biziritse ku mpande.

Icyumba kigari kirimo ibikoresho byinshi ngororamubiri, muri ibyo harimo igifasha abantu kwiruka utavuye aho uri n'igifasha abantu kunyonga igare ariko utavuye aho uri, muri icyo cyumba kandi harimo ibikoresho bibiri byerekana amashusho bihagaze ku rukuta hejuru.

Inyubako nyinshi zihanye umwanya ziri ahantu hari ibyatsi biteye hasi bitoya bisa icyatsi kibisi, muri ibyo byatsi hateyemo igiti kitari kirekire gifite amababi asa icyatsi kijimye, iyo nyubako ifite amabati asa ubururu ndetse n'irangi risa umweru.

Umugabo wirabura wambaye agapfukamuwa gafite ibara ry'umukara n'ingofero ifite ibara ry'umukara ryaryamye ku gitanda cyo kwa muganga gifite ibara ry'ubururu arambuye akaboko ndetse afite akantu gasa ubururu kamuziritseho afunze igipfunsi iruhande rwe hari umuganga ufite imisatsi iboshye wambaye itaburiya ifite ibara ry'umweru.

inzu ndende ifite amadirishya menshi ndetse n'igipangu, ifite amabara menshi umutuku ku gisenge n'inkuta zisize amabara asa umweru ndetse n'ibara risa n'ivu, imbere yayo hari amadarapo abiri.

Icyumba kinini cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye harimo; utubati, ameza, ibitanda ndetse n'ibindi bitambaro by'umuhondo bimanitse hejuru ku gisenge, bifite kandi amatara asa umweru hejuru ku gisenge.

Icyumba kirimo imashini zigiye zitandukanye harimo igisa n'imashi ikonjesha isa umweru, ibigega bibiri bisa ubururu, bifite imashini ebyiri zisa zibicometseho hejuru, hariho imigozi izamutse igacomeka ku mashanyarazi ariko urukuta rsa ibara ry'umweru.

Umuntu wirabura ugaragara ibirenge n'amaboko ariko amaso apfutse, apfukishije igitambaro gisa icyatsi. Yambaye ikanzu y'ubururu, aryamye ku gitanda cyo kwa muganga, gisashishije ishuka y'umweru. Hari umuganga umwicaye impande, uri gukoresha imashini yacometse ku maso, areba, ari kumuvura.

Icyumba kirimo amabara menshi atandukanye ariko yiganjemo umweru, uri ku nkuta hasi ku makaro, ndetse no ku gisenge, harimo imashini ifite amabara asa n'ivu, ndetse n'umweru, akoze uruziga, imbere y'urwo ruziga hifatanye n'igisa n'agatanda karambuye gasa umweru.

Ni umugore wirabura urambuye akaboko ufite imashini imucometseho, ifitwe n'umuganga umuhagaze imbere wambaye imyenda y'umweru. Hari undi muganga wicaye ku kameza ndetse n'undi uhagaze. Uwicaye ku kameza afite urupapuro rw'umweru ari kwandika. Iruhande rw'uwo murwayi hari imashini ihamanitse, isa ibara ry'umukara n'umweru.

Icyumba kinini cyo kwa muganga kirimo agatanda gasasishije ishuka isa icyatsi, iruhande rw'igitanda hari imashini ifite ikigaragara nk'icyerekana amashusho, hejuru yi'gitanda hari amatara abiri manini asa umweru.

Inzu nini y'amagorofa atatu, ifite amadirishya y'umukara, ifite icyapa kinini hejuru gisobanura ibikorerwa muri iyo nzu, cyandikishije amagambo y'icyatsi ndetse n'umukara, iyo nzu kandi ifite uruzitiro imbere yarwo rw'utwuma duto duto.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byo kwa muganga birimo imashini ndetse n'uburiri bw'abarwayi, hari idirishya ndetse n'igishushanyo kiriho imisozi isa ubururu ndetse n'umutuku.

Icyumba kigari cyo kwa muganga kirimo ibitanda byinshi, bifite uburiri bufite ibara ry'umweru, ndetse n'inzitiramibu zifite amabara y'umweru zimanitse hejuru ku gisenge. Ku ruhande harimo umuforomokazi wambaye imyenda y'icyatsi cyijimye ndetse n'agapfukamunwa k'ibara risa umweru.

Icyumba kinini kirimo intebe nyinshi z'amoko atandukanye ndetse n'amabara atandukanye, hari intebe enye z'umukara ziri ku kameza gakozwe n'igiti gafite ibyuma by'umukara bigakoze nk'amaguru, hari intebe zisa ubururu bwijimye hakaba n'izindi zifite amabara avanzemo icyatsi cyijimye.

Inyubako nini ifite amadirishya maremare y'umweru, ifite icyapa kinini gisa umweru ndetse kivanzemo n'ubururu, cyandikishijeho amagambo arimo amabara menshi arimo umukara n'umutuku, imbere y'iyo nzu haparitse imodoka nyinshi zirimo iz'umukara n'iz'umweru.

Icyumba kinini kigari kirimo intebe nyinshi, ameza bategerererezaho cyangwa se basabiraho serivisi, inkingi z'amabara y'imihondo ndetse n'umweru, ifite igisenge gisa umweru kiriho amatara arimo yaka, harimo intebe z'amabara y'umweru.

Abantu benshi bicaye ku ntebe zisa umukara, zegereye igikuta, bicaye bahanye umwanya ndetse bose bambaye udupfukamunwa. Imbere yabo hari abantu bahahagaze harimo umugabo wambaye agapfukamunwa k'umweru, ndetse n'imyenda isa umweru n'umutuku.

Ubusitani bwiza burimo indabyo, ibyatsi ndetse n'ibindi bihingwa bifite amababi ajya kuba manini. Zimwe muri izo ndabyo zisa umutuku ibyatsi bigasa icyatsi kibisi, n'indabo zimwe na zimwe zisa amabara ajya gusa n'umuhondo.

Inzu y'amagorofa abiri ifite umuryango munini ushushanyijeho ibicuruzwa birimo imbere muri iyo nzu by'amabara atandukanye ndetse n'amashusho atandukanye. inzu ifite icyapa kinini gisa icyatsi, cyandikishijweho n'amagambo manini y'umweru, gisobanura igikorerwa muri iyo nzu.

Inzu nini, nziza, ifite amabara menshi, harimo umweru ndetse n'ubururu. Yandikishijeho amagambo manini yanditse mu ibara ry'umweru, impande yayo n'imbere yayo hateye ibyatsi ndetse n'ibiti bifite amabara y'icyatsi kibisi.

Inzu ngari isize irangi risa n'ibara ry'ironje rihishije, hejuru yayo handitseho amagambo asa icyatsi, imbere yayo hateye ibyatsi by'amoko atandukanye birimo indabo ndetse n'ibindi by'icyatsi kibisi.

Abagore batatu bicaye ku ntebe ngufi, harimo abambaye amakanzu y'amabara menshi n'umwe wambaye umupira n'ipantaro bisa iroza, ufite agapfukamunwa gasa ubururu bwerurutse mu kananwa, afite kandi ibisuko by'umweru.

Abagore batatu bari mu cyumba kimwe gisa n'icyo kwa muganga, babiri muri bo bicaye ku meza bari kuvugana, umwe yambaye itaburiya ndetse n'ishati isa ubururu, uwundi yambaye umupira usa n'icyatsi cyijimye.

Icyumba kigari kirimo ibitanda byinshi bigera kuri bitanu, buri gitanda kiriho uburiri busasishije amashuka y'ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, buri gitanda kandi gifite igitambaro kirekire cy'umweru kimanitse iruhande rwacyo, icyo cyumba gifite amabara y'umweru n'ubururu ku nkuta zacyo.

Icyumba k'ibitaro cyo kwa muganga kigali gifite ibara ry'umweru ku gisenge ndetse n'inkuta, kirimo ibitanda byinshi bisasishije amashuka afite ibara ry'umweru ndetse n'ibiringiti bifite ibara ry'iroza, harimo ibitanda ku mpande zombi, bitandukanyijwe n'agakuta kari hagati gafite ibara ry'umuhondo.

Icyumba kigari cyo kwa muganga kirimo ibitanda bibiri bishashishije amashuka asa umweru, gifite inkuta z'amabara atandukanye harimo umweru, ubururu n'icyatsi kibisi.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo igitanda ndetse n'imashini ziri ku rukuta. Harimo kandi urukuta rufiteho amabara menshi asa n'ashimisha abana. Harimo ibara ry'ubururu risa n'ikirere, ibara ry'umuhondo rishushanyije ukwezi ndetse n'abantu basa n'abari mu isanzure y'ikirere.

Umwana ukiri muto wirabura ufite agasatsi gake, wambaye ishati y'umweru ifite imigozi ibiri isa n'ivu iri guca mu mugongo, yarambuye akaboko yashyizweho imashini n'umuganga wambaye itaburiya n'agapfukamunwa gasa nk'ibara ry'ubururu ryerurutse wicaye imbere ye asa n'uri kumupima.

Inyubako nini y'amagorofa abiri, nziza ifite amabara menshi arimo umweru ndetse n'ubururu, imbere y'igipangu cyiyo nyubako, hari icyapa kinini gisobanura igikorerwa muri iyo nyubako, cyandikishijeho amagambo manini y'umweru, inyuma hasa umutuku, icyo cyapa kandi gifite amabara y'umweru avanzemo n'amagambo asa umukara.

Icyumba kinini cyisanzuye gifite intebe nyinshi z'abantu bicaramo bategereje, imwe muri izo ntebe hicayemo abantu bambaye imyenda itandukanye, imbere yabo hari imiryango ndetse n'amadirishya.

Icyumba cy'ibitaro byo kwa muganga kirimo ibitanda bitatu bifite ibara ry'umweru bisasishijeho ishuka ifite ibara ry'icyatsi, harimo kandi ibitambaro bimanitse iruhande rwa buri gitanda bifite ibara ry'ubururu rwerurutse.

Umuryango munini w'ibirahure ufite inkingi zisa n'ivu, ndetse hejuru y'uwo muryango hari icyapa cyerekana ko iryo ngiryo ari ivuriro ry'abantu bafite ikibazo cyo mu mutwe. Impande y'uwo muryango hari amatara abiri asa umuhondo n'umukara.

Inyubako ifite amabara menshi ndetse n'ibyapa byinshi bisobanura ibikorerwamo, bimwe muri ibyo byapa harimo ibisa ubururu n'ibisa icyatsi, byose bisobanura ko ari inzu ikorerwamo ibijyanye no kugurisha imiti, ku ruhande hari igikoreshwa cyerekana imyenda, hanyuma imbere y'iyo nzu haparitse imodoka ebyiri.

Umugore wirabura wambaye imyenda isa n'iy'abaforomo y'icyatsi cyijimye uri kugenda mu bitaro birimo ibitanda byinshi bisasishije amabara y'umweru ndetse n'ibitambaro binini by'ubururu bimanitse, hari inkuta zisa icyatsi ndetse n'umweru.

Abantu benshi bahagaze ku murongo umwe, abandi babasutamye imbere bareba mu cyerekezo kimwe, bakikije uwambaye nk'umusenyeri n'uwambaye nk'umusirikare, bahagaze ku ibaraza ry'inzu ifite amabara menshi yubakishije amatafari ahiye, yandikishijeho amagambo asa ibara ry'ubururu.

Inyubako nini, y'amagorofa menshi, isize amabara y'umweru, ifite ibirahure by'ubururu, ifite icyapa kinini kivuga ko ari ibitaro byandikishije amabara y'icyatsi kibisi kimanitse hejuru ndetse n'imbere aho binjirira.

Icyumba kinini cyo kwa muganga kirimo uburiri bwinshi ndetse buri buriri bufite imashini ibuteretse iruhande, hejuru ya buri buriri hari idirishya ryerekana ibiri hanze, hejuru kandi hari igisenge kiriho amatara.

Amarembo manini y'ibitaro yandikishijeho amagambo asa n'ikigina hejuru, iruhande rwayo hari umugore uhetse umwana ufite igitambaro gisa umweru imbere mu gatuza.

Igice cy'inzu ndende ifite amagorofa menshi kiriho amadirishya ndetse gisize ibara ry'umweru. Imbere y'iyo nzu hari amadarapo cyangwa se ibitambaro bimanitse ku mapoto asa umweru, byandikishijeho amagambo asa ubururu n'umuhondo, bisobanura igikorerwa kuri iyo nzu.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho byinshi birimo n'imashini nini cyane ifite igisa n'uruziga cy'amabara asa umweru ndetse kikagira amatara ari ku mpande ava hejuru akagera hasi, imbere y'icyo kimashini hari agasa n'agatanda gashasheho agasa n'agashuka gasa umweru kazinze gakoze igisa n'umuzingo. Hasi muri icyo cyumba hasize ibara risa n'ubururu.

Umukobwa wirabura ufite imisatsi iboshye uhagaze imbere y'agatanda, afite mu ntoki agakoresho gasa nk'ikigina yashyize ku gutwi yunamye asa n'uwumviriza, inyuma ye hari akabati gateretsemo amakarito y'imiti.

Icyumba gifite isuku cyo kwa muganga, kirimo uburiri bufite ibara ry'umweru ndetse n'imisego ibiri ibuteretseho, ifite na yo ibara ry'umweru. Iruhande rw'igitanda hari imashini ku mpande zombi ndetse inyuma y'igitanda hari ishusho yometse ku gikuta y'indabyo.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye bifite amabara atandukanye, bisa n'ibikoreshwa cyangwa se byifashishwa muri siporo. Harimo umusambi usa n'uwa siporo utukura, uri hasi ariko ufite umubyimba. Inyuma harimo imashini zisa n'izo bifashisha biruka mu gihe bari gukora imyitozo ngororamubiri.

Icyumba kinini cyisanzuye, kirimo ibitanda bibiri, cyo kwa muganga, kirimo amabara menshi atandukanye, muri ayo mabara harimo: icyatsi, umweru, ubururu ndetse n'inzugi zisa n'imbaho, hejuru hari amatara abiri yaka.

Inzu ifite ibyatsi biteye iruhande rwayo ndetse n'indabyo zifite amabara y'umuhondo, iyo nzu ifite imiryango isa n'igitaka cyijimye ndetse ifite kizimyamwoto itukura iruhande rwayo. Inyuma y'iyo nzu hari ibigega bibiri bisa umukara.

Icyumba gifite umuryango munini usa nk'igitaka cyererutse, ufite icyapa kinini hejuru cyanditseho amagambo asa umweru, gisa ubururu, gisobanura yuko icyo ari icyumba cy'ibagwa.

Icyumba kirimo amabara menshi haba ku nkuta, ku meza ndetse no ku ntebe zikirimo, ku ntebe hasa icyatsi ku nkuta hasa ibara ry'ironji rihishije, icyatsi, imituku ndetse n'andi mabara.

Inzu igurishirizwamo imiti ifite imiryango isa n'ivu ryijimye mu imbere muri iyo nzu harimo utubati turimo imiti, amakarito ndetse n'uducupa imbere y'iyo nzu haparitse imodoka ifite ibara risa n'ivu ndetse hejuru hariho icyapa kiriho amagambo manini yandikishije mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Icyumba kinini gifite amabara menshi y'ibishushanyo ku nkuta, muri icyo cyumba harimo igitanda gishasheho ishuka isa ubururu, iruhande rw'icyo gitanda, hari agatebe gatoya gasa umukara.

Icyumba cyo kwa muganga cyisanzuye kirimo agatanda gafiteho uburiri butukura, intebe ziri ku ruhande rwako nazo zitukura, gifite inkuta zisize amabara y'umweru ndetse n'ibipfutse amadirishya bifite ibara risa n'ivu.

Icyumba kinini kirimo utubati turimo ibikoresho bigiye bitandukanye birimo amakarito ndetse n'amacupa, amakarito afite amabara menshi, harimo icyatsi, umweru, ubururu ndetse n'ayandi, amakarito kandi ateretse mu kabati gasa, ibara risa n'ivu.

Amazu yegeranye kandi manini y'amagorofa menshi, afite amabara atandukanye arimo ibara risa n'icunga rihishije, umweru ndetse n'ubururu, imbere y'ayo mazu hateye ibyatsi bisa icyatsi kibisi bitoya ndetse muri ibyo byatsi harimo amatara maremare.

Inzu ndende cyane yubakishije amatafari asa n'ivu. Ifite amadirishya menshi, imbere yayo hateye ibyatsi bigufi bisa n'icyatsi kibisi. Muri ibyo byatsi harimo idarapo rirerire.

Abagabo babiri bambaye amataburiya asa umweru birabura, umwe afite uruhara ndetse undi afite agasatsi gake, bombi bambaye udupfukamunwa tw'ubururu bwererutse. Bari kureba mu mashini nini iri mu kintu gisa n'akabati.

Icyumba kinini cyo kwa muganga cyisanzuye kirimo ibitanda cyangwa se intebe nyinshi z'ubururu, buri ntebe ifite aka meza gasa n'agakozwe n'imbaho imbere yacyo, iruhande ya buri gitanda hari utumashini tunini two kwa muganga.

Inzu nini y'Ikigo Nderabuzima, ifite amagorofa abiri ndetse ifiteho amarangi y'amabara menshi atandukanye. Imbere kuri iyo nzu hariho irangi risa umweru ndetse n'ibara risa n'icunga rihishije. Ifite kandi icyapa kinini cyandikishijeho amagambo manini asa umukara, asobanura igikorerwa muri iyo nzu.

Inzu nini yisanzuye irimo ibikoresho byinshi ngororamubiri, harimo ibifasha abantu kwiruka, ibifasha abantu kunyonga igare ndetse n'ibindi, byose bisa amabara y'umukara ndetse n'ibara risa n'ivu, bifite imashini zaka ziteretse imbere yabyo.

Imashini nini iri mu cyumba, ifite uruziga ruzengurutse, rusa umweru, ndetse imbere yarwo hari igisa n'igitanda, gisa umweru ndetse kiriho igisa n'ishuka isa nk'ibara ry'ivu. Iruhande rw'iyo mashini hari imashini yindi yerekana amashusho hejuru yayo hari isaha yerekana igihe.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo agatanda ko kwa muganga gasa ibara ry'ubururu, iruhande rw'igitanda hari imashini nini, hari isa na mudasobwa n'iyindi nini hejuru yayo isa n'itanga amashusho ifite ibara ry'umukara, iruhande hari inkuta z'umweru ndetse n'igisa n'igitambaro kimanitse gifite ibara rijya gusa n'umweru.

Icyumba kigari cyo kwa muganga kirimo intebe zifite amapine ndetse buri ntebe ifite imashini ifite n'icyerekana amashusho iruhande rwayo, inyuma hari igikuta kiriho amashusho acyometseho ndetse n'isaha yerekana igihe.

Inzu ndende y'amagorofa menshi arenga atatu, ifite amabara ajya gusa n'umutuku werurutse, ndetse n'ibara rijya gusa n'umweru, imbere y'iyo nzu haparitse amamodoka menshi, ndetse hahagaze abantu, igipangu cy'iyo nzu kiri gusohokamo imodoka isa ibara rijya kuba umukara.

Inzu nziza cyane yubakishije amatafari atukura, yitaruye, ifite ubusitani imbere yayo buhinzemo ibyatsi by'ubwoko bwinshi, yubakishije amatafari atukura ndetse ifite amadirishya menshi, hepfo yayo hari indi nzu nini izengurutse.

Umugabo wirabura, wambaye ingofero y'umukara, ishati y'umutuku n'ipantaro y'umukara, ari kuyobora imodoka ayereka aho iparika, inyuma ye hari imodoka nyinshi ziparitse, inyuma yazo kandi hari inzu ndende y'amabara y'umweru n'ubururu, ifite amagorofa menshi n'amadirishya menshi.

Amaboko arambuye y'umugore usa n'uri mu myitozo ngororamubiri, afite ibisuko bisa umukara ndetse afite igitambaro mu mutwe na cyo gisa umukara. Hejuru ye hari ikirere gisa ubururu, gisa naho gikeye.

Inkweto z'umukara ndende zifite imishumi y'umukara, zifite akapa gasa umweru kandikishijeho amagambo asa umukara, ashushanyijeho utuntu dusa n'ikigina ziteretse hasi ku bitaka.

Umuntu wirabura utagaragara igice cyo hejuru cyangwa se icyo hasi ku birenge, yambaye ikabutura y'umukara ndetse n'isaha y'umukara, asa n'uwunamye, afashe ku ivi rimwe, asa n'urigukanda inyuma ye hari urumuri rwinshi ndetse n'ikirere gikeye cyane.

Umugore wirabura ufite imisatsi miremire isa n'iyikaraze yari mu myitozo ngororamubiri, yambaye imyenda irimo isengeri y'icyatsi ndetse n'ikabutura y'umutuku ngufi, ari gusunika agakoresho gasa n'akariho ibiremereye agasunika yirukanka.

Icyapa kiriho ibintu byinshi bitandukanye, birimo imbuto, ziganjemo imineke, amaronji, ndetse n'imizabibu. Hariho kandi umukobwa uri gukora siporo, ari hasi ku butaka, afatishije akaboko k'iburyo. Kandikishijeho amagambo y'umukara.

Umugabo wirabura yambaye umupira w'ubururu ujya kwiruka, yambaye ikabutura ngufi y'umukara, apfukamye hasi n'ivi rimwe, ateruye ibiremereye bibiri byifashishwa mu myitozo ngororamubiri bifite ibara ry'umuhondo, iruhande rwe hari umugabo w'uruhu rwera wambaye imyenda y'umukara.

Imbuto zirimo inkeri zitukura ndetse n'izisa ibara ry'umukara, ibiribwa birimo inyama n'imboga, inyuma hari ibirahure bibiri kimwe kirimo igifu kikaba gisa n'ibara ry'umuhondo n'ikindi kirimo amazi hari kandi igikoresho cy'icyuma kiremereye kifashishwa muri siporo, kiriho agatambaro karekare gapima uburebure.

Umugabo wirabura yambaye imyenda isa umukara irimo isengeri ndetse n'ikabutura. Yambaye amasogisi y'umweru n'inkweto z'ubururu ndetse ari mu myitozo ngororamubiri, yarambuye akaguru imbere ye ku ruzitiro.

Umugabo usa n'ukuze wirabura ari kunywera amazi mu gacupa gasa ubururu, yambaye umupira usa umukara, akaba ahagaze imbere y'ibihingwa bigaragara nkaho ari ibyatsi ndetse akaba ari kugotomera amazi bisa nkaho afite inyota.

Umugore wirabura, ufite imisatsi miremire, yambaye udutangamajwi mu matwi ducometse ku kamashini kamuri ku kaboko, ari kunywa amazi ayanywera mu icupa ribonerana. Yambaye umupira w'iroza ndetse inyuma ye hari ibihingwa bifite amabara y'icyatsi.

Umukobwa wirabura uri mu myitozo ngororamubiri, wicaye hasi mu byatsi bigufi, arambuye amaguru imbere ye, ayafatishijeho amaboko yombi. Inyuma ye hari ikirere gikeye kirimo ibicu bike ndetse n'umunara uriho amatara

Umusore wambaye umupira w'umutuku, wirabura ufite ubwanwa, afite umupira utukura mu ntoki wo gukina. Yambaye ikabutura y'umukara n'inkweto z'umukara; ari mu myitozo ngororamubiri aho ari kugenda asimbuka, mu kantu gasa n'ingazi karambitse ku butaka gafite imigozi yo ku mpande isa umutuku, ndetse n'indi ihuza impande zombi isa umweru.

Umugabo wicaye wirabura atagaragara isura. Yicaye mu ntebe isa n'umweru. Yambaye umupira usa n'ivu. Afite akaboko kamwe karambuye akandi gahinnye. Ari gufata ishashi irimo amazi maze akayikandisha ku kaboko.

Umugabo wirabura yambaye umupira w'ubururu uciyemo imirongo y'umweru, ateruye icyuma gisa umukara kiremereye cyifashishwa muri siporo. Iruhande rwe hari umugore wunamye w'inzobe wambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'umukara ndetse n'isaha ku kuboko.

Umugabo wirabura upfukamye hasi n'amavi yombi, ku musambi wagenewe gukorerwaho siporo, yambaye isengeri y'umukara ndetse n'ikabutura y'umukara. Afite imisatsi miremire izirikiye inyuma, ndetse n'ubwanwa burebure. Inyuma ye hari intebe isa n'igitaka.

Ibikoresho byinshi byo kwa muganga, bitandukanye kuko bisa ku ibara ndetse no ku miterere, harimo igikapu kiriho umusaraba gisa n'icunga rihishije cyanditseho amagambo asa n'ibara ry'umweru, hariho udupfuko turi mu dupapuro dusa umweru, imakasi ndetse n'utundi dukoresho dufite amabara atandukanye.

Umugabo ukiri muto wirabura, yambaye imyenda isa n'ivu, isengeri ndetse n'ikabutura, ari gukora imyitozo ngororamubiri, asa n'uwikanda ku itako, yicaye mu byatsi bisa icyatsi kibisi.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bivura abarwayi, harimo intebe isa icyatsi kijimye ifite aho gufata ku uyicayemo, hejuru yayo hari igikoresho gisa n'itara, iruhande rwayo hari akandi gatebe gatoya gasa icyatsi, inyuma yayo hari igikoresho gitanga amashusho gisa umukara, ndetse icyumba cyose kisa ibara ry'umweru.

Umugore wirabura uri mu myitozo ngororamubiri ahagaze imbere y'amazi magari yahinnye ivi, yambaye imyenda isa n'ubururu bwererutse, yambaye inkweto zisa umukara ndetse afite imisatsi iboshye miremire.

Umugabo wirabura wahinnye ivi asa n'uri mu myitozo ngororamubiri, yambaye umupira w'umweru n'ikabutura y'umukara ndetse n'akenda kamufasha cyane kamanuka no munsi y'ivi gasa umukara. Yambaye impeta isa na zahabu n'agakomo gasa nk'ikigina ku kaboko.

Abagabo babiri bambaye imyenda isa, birabura, bafite agasatsi gake bose, umwe yambaye amarinete y'umukara, bambaye udukote dukase amaboko n'udupira dusa umweru mo imbere. Bateruye uwambaye agapira k'umuhondo wirabura, usa n'uwagize ikibazo, wambaye ipantaro y'ubururu bamujyana mu modoka.

Imipira myinshi iri hamwe y'imikino itandukanye, ifite imiterere itandukanye ndetse n'ingano itandukanye, ifite amabara kandi atandukanye, harimo usa n'ikigina, usa umweru n'umukara, usa n'ikigina cyijimye, dutoya dusa umweru, Icyatsi ndetse n'umutuku hari kandi agakoresho kifashishwa n'abaganga bapima imiterere y'umutima.

Umukobwa ukiri muto wirabura, wambaye imyenda isa umukara, afite ibisuko bisa n'igitaka, imbere ye hateretse icupa ry'amazi ndetse ari gukora imyitozo ngororamubiri yicaye, yasobekeranyije amaguru.

Umukobwa wirabura ufite umusatsi mukeya, amanitse amaboko ahagaze imbere y'inyanja, yambaye isengeri itukura ndetse arasa n'uri mu myitozo ngororamubiri, yambaye isaha y'umukara ku kaboko n'agatangamajwi gasa umweru mu gutwi.

Umugabo w'umuzungu ufite agasatsi gakeya, uri kunywa amazi mu icupa ribonerana ndetse rifite umuvuniko w'ubururu. Yambaye umupira usa n'ivu, ateranye umugongo n'umugore w'umuzungu, uri kunywa amazi mu icupa ribonerana risa ubururu ndetse afite imisatsi myinshi. Yambaye umupira w'umukara.

Umugabo utagaragara amaso neza, ufite umusatsi mukeya yambaye umupira umwegereye cyane arirabura ndetse ari kunywa amazi ayanywera mu icupa ribonerana, ahagaze imbere y'urukuta rusa umweru.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho birimo imashini, agatanda gasasishije ubururu gafite amatara abiri manini hejuru yako, harimo ameza y'ibyuma n'utubati n'ibisa n'amamashini yifashishwa kwa muganga.

Umugabo uryamye hasi wambaye umupira w'ubururu utagaragara isura, yambaye kandi ikabutura y'umukara n'amasogisi maremare y'umukara. Iruhande rwe hateretse umupira ufite amabara y'umweru n'ay'umukara. Hari umugabo umupfukamye imbere uri kumukanda mu ivi asa nk'umugorora.

Icyapa kinini gisa umweru, icyatsi ndetse cyandikishijeho amagambo avanzemo icyatsi n'ubururu, kivuga ibijyanye no gukora ubuvuzi bujyanye no gukandakanda imitsi ndetse n'inyama zigize umuntu ariko bigambiriye kuvura.

Umugabo wirabura yambaye umupira w'umweru ntagaragara neza mu maso ndetse no hasi ku birenge arasa n'uri mu myitozo ngororamubiri, yahinnye ivi rimwe arifatishijeho amaboko yombi yambaye ikabutura y'umukara ndetse n'akenda karimo imbere kamufasha cyane.

Igikapu kirimo ibikoresho byinshi birimo udukarito dutoya, amacupa matoya ndetse n'udutambaro dusa n'utuzinze, hariho kandi udupfuko n'udukarito turimo ibinini.

Umugore wirabura ufite ibiro byinshi, uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye ipantaro y'ubururu bwerutse. Isengeri isa icyatsi n'inkweto zirimo amabara menshi arimo: umweru, ubururu ndetse n'umutuku.

Icyumba cya siporo kirimo ibikoresho byinshi byagenewe abari muri siporo n'imyitozo ngororamubiri, ibyo bikoresho birimo amagare n'ibindi bifasha umuntu kwirukanka ari mu cyumba kandi icyo cyumba gifite urukuta runini inyuma, rwandikishijeho amagambo manini asa umukara.

Umugore n'umwana bicaye ku gitanda kiri mucyumba kirimo ibitanda byinshi, umwana yambaye ikanzu y'ibara rijya gusa umuhondo ndetse n'agapira k'umweru, umugore yambaye ikanzu yigitenge irimo amabara menshi atandukanye arimo ubururu bwiganje.

Icyapa kinini gisa icyatsi, cyanditseho amagambo manini asa umweru. Kiriho ishusho y'abakinnyi batatu, bambaye ibyenda binini bisa amabara arimo umweru, umutuku ndetse n'umuhondo. Bambaye ibirinda umutwe ndetse uwo hagati afite umupira afashe acigatiye mu gatuza, uwo ku ruhande asa n'ushaka kuwumwaka.

Umugabo wirabura uhagaze ku kiraro hejuru munsi harimo amazi, yazamuye akaguru ku nkingi ari mu myitozo ngororamubiri, akaboko yakararambuye ku mano, akandi gafashe mu mayunguyungu.

Umugore wirabura ufite imisatsi iboshye wambaye imyenda y'ubururu bwerurutse, ari gukora imyitozo ngororamubiri asa n'uwirambura ashaka gukora ku birenge bye, yicaye ahantu hasa umweruru ndetse inyuma ye hari urukuta rusa umweru.

Ibikoresho bisa n'ibyo kwa muganga birimo amashashi, ibipfuko n'ibinini n'andi macupa afite amabaragi atandukanye ndetse arimo ibintu bitandukanye. Harimo amashashi y'ubururu, hakabamo amacupa asa umutuku, umuhondo, umukara ndetse n'ibipfuko bisa umweru ndetse n'ikigina.

Udukoresho two kwa muganga two gufasha abafite ibibazo bigiye bitandukanye. Hari amashashi arimo ibipfuko, hari imyambaro yo mu ntoki irinda imyanda, hari amashashi ndetse n'amacupa birimo imiti igiye itandukanye.

Umukobwa wirabura wambaye imyenda ifite ibara ry'iroza, yicaye ku musambi wagenewe imyitozo ngororamubiri, yahinnye akaguru kamwe k'iburyo ndetse akw'imoso karambuye imbere ye, agafatishijeho amaboko yombi asa n'uwigorora.

Umugore wirabura uri mu myitozo ngororamubiri yicaye hasi, yambaye imyenda y'umukara ndetse n'inkweto z'umweru, ukuguru kumwe kurahinnye ukundi kurambuye imbere ye afatishije ku mano amaboko yombi.

Umugabo wirabura upfukamye hasi n'ivi imwe ndetse utagaragara isura, afashe n'amaboko yombi mu ivi yikanda nk'uwagize ikibazo wavunitse. Yambaye imyenda irimo ikabutura y'umukara n'umupira umwegereye w'amaboko maremare.

Umugore wirabura wambaye isengeri y’umweru, ndetse n’ipantaro imwegereye cyane isa ubururu bwererutse, apfukamye n’akaguru kamwe k’umusambi wageneye siporo ndetse amaboko ye yamanitse hejuru ye. Iruhande rwe, hari igikuta gisa n’umweru n’igihingwa cy’amababi maremare asa icyatsi.

Umugabo wirabura, wambaye imyenda irimo isengeri isa n'ivu ndetse n'ikabutura isa umukara, ari mu myitozo ngororamubiri, aho ari kugenda asimbuka ku tuntu tw'utugozi turi hasi, iruhande rwe hari umugore w'umuzungu wicaye hasi, ari kumureba.

Icyapa kiriho imboga n'imbuto bitandukanye harimo amacunga ndetse na karoti. Iruhande hariho ishusho y'umugabo uri kwirukanka w'umuzungu, wambaye isengeri isa umweru n'ikabutura isa ubururu.

Akagare kagenewe gutwara abafite ubumuga cyangwa se abageze mu za bukuru gafite aho bicara hasa umukara'ibyuma bikazengurutse bisa ibara ry'ubururu ndetse n'amapine y'imbere n'ay'inyuma asa ibara ry'umukara.

Akabati kadapfundikiye karimo amakarito menshi y'ingano nyinshi zitandukanye ndetse n'amabara menshi atandukanye. Amwe mu makarito asa umweru ndetse n'ubururu, andi agasa umweru ndetse n'umuhondo, ayandi agasa umuhondo n'umutuku.

Umugabo uhagaze wirabura wambaye amarinete udafite umusatsi, ari kwisukaho amazi mu maso, asa nk'uri mu myitozo ngororamubiri, yambaye umupira w'ubururu bwijimye, ndetse ari gukoresha agacupa kabonerana gafite umupfundikizo w'ubururu.

Umugore wirabura wambaye agapfukamunwa k'ubururu bwerurutse afashe ku mutwe w'umwana umwicayeho amukikiye wambaye umupira ufite ibara risa n'irongi rihishije, imbere ye hari umuganga ufite igikoresho cyaka ari kumutunga mu jisho asa n'umupima uburwayi.

Isahani iriho imbuto z'amabara atandukanye ndetse n'imboga zirimo imbuto, isahani isa umweru, iruhande rw'iyo sahani hari ibikoresho bya siporo, birimo umugozi wo gusimbuka ndetse n'inkweto zifite ibara risa n'ivu.

Isahani imwe iriho imineke, inkeri n'izindi mbuto, indi sahani iriho amagi, inyama ndetse n'ibindi biribwa, hari kandi igiseke kiriho imboga zigiye zitandukanye, iruhande rwabyo hari ibyuma biremereye byifashishwa muri siporo.

Umugore wirabura ufite imisatsi myinshi izirikiye hamwe, wicaye hasi uri mu myitozo ngororamubiri, yambaye imyenda isa umukara isengeri n'ipantaro imufashe, yambaye kandi inkweto z'umweru, afite icupa ry'amazi riteretse iruhande rwe.

Ikarito isa n'igitaka, yandikishijeho amagambo asa n'ubururu ndetse ifite ibara rivanzemo igitaka ndetse n'ubururu, iruhande rwayo hari agatambaro gasa umweru, kazingazinze kerekana ikiri mu ikarito uko kimeze.

Ibikoresho byinshi byo kwa muganga harimo amashashi afite ubwoko bwinshi ndetse afite ingano zitandukanye agaragaza ko hari ikirimo imbere yayo, amacupa afite amabara atandukanye, ibisa n'udupfuko dupfuka abacitse ibisebe n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Icyapa cy'amabara menshi gishushanyijeho amagambo y'amabara menshi atandukanye. Kirimo ubururu n'umweruru ndetse n'icyatsi. Hariho ibishushanyo bibiri by'abagore bisobanura neza icyo icyo cyapa kivuga.

Inkoni ndende yagenewe abafite ubumuga, ifite ahagenewe gufata hasa umukara ndetse n'indiba ikora hasi isa umukara, hejuru hari igice kigenewe gufata ku nkokora y'uyikoresha gisa nk'ivu.

Umugabo wirabura ukuze uri mu myitozo ngororamubiri apfukamye hasi ku musambi wa siporo usa n'umukara, inyuma ye hari igikuta gisa umweru ndetse iruhande hari udukoresho dusa umukara turambitse hasi ku musambi wa siporo ari gukoreraho.

Umugore wirabura uryamye hasi uri mu myitozo ngororamubiri, yambaye ipantaro isa umukara n'isengeri isa n'ivu, iciyemo uturongo dusa n'iroza, afite ibisuko bisa umukara, iruhande rwe hari amavase ateretse imbere y'urukuta, agiye afite amabara atandukanye, ndetse ateyemo ibite hingwa bitandukanye.

Imbuto zirimo inanasi, ironji, imineke ndetse n'indimu, ibikoresho biremereye byifashishwa muri siporo, imidari ifite imigozi y'amabara atandukanye arimo umweru, umutuku n'ubururu ndetse n'ibinini bifite amabara atandukanye arimo umweru n'umutuku, bimwe biri hasi ibindi biri mu icupa risa ubururu bubonerana.

Umugabo wirabura uri kunywa amazi mu icupa ribonerana, ndetse yambaye udutangamajwi dufite ibara ry'umweru mu gutwi. Yambaye kandi umupira ufite ibara ry'umweru ahagaze imbere y'urumuri rwinshi ruterekana neza aho ari.

Akaboko gafite uruhu rwera gafashe icupa ribonerana ry'amazi mu ntoki, iryo cupa rifite umupfundikizo usa ubururu, inyuma y'iryo cupa hari ikirere gikeye cyane kirimo ibicu bike by'umweru.

Abantu benshi birabura harimo abagabo batatu n'umugore umwe bahagaze imbere y'imashini ifite igitanga amashusho kirimo uwundi muntu usa n'umuzungu, muri abo bahagaze harimo abagabo bambaye amataburiya ndetse n'umwe wambaye ikote, naho umugore na we yambaye itaburiya y'umweru.

Umugore wirabura ari mu myitozo ngororamubiri amanitse amaboko ariko atagaragara isura. Yambaye isengeri y'umukara. Yambaye ipantaro imwegereye cyane isa n'ivu. Yicaye ku mukeka wagenewe siporo. Imbere ye hateretse mudasobwa. Iruhande rwe hari ibikoresho bya siporo n'icupa ry'amazi.

Umugore w'umuzungu uri kunywa amazi areba hejuru, ari kunywa amazi mu icupa risa n'icyatsi kibonerana, afite imisatsi miremire ifungiye inyuma, yambaye isengeri y'icyatsi ndetse inyuma ye izuba riri kurenga kandi hari amazi magari asa n'inyanja.

Umusore wirabura uri kunywa amazi mu icupa risa ubururu bubonerana n'umufuniko w'umukara. Afite agasatsi gake yambaye isengeri isa n'ivu ndetse iriho umurongo w'umukara ku maboko.

Icyapa kiriho ibikoresho byinshi byo kwa muganga harimo agakapu gatukura kariho umusaraba w'umweru, ibinini, amacupa y'imiti asa nk'igitaka, afite imipfundikizo y'ubururu, ibikoresho by'amakarito ndetse n'ibindi.

Umuntu wicaye utagaragara igice cyo hejuru uri kugaragaza ikirenge ndetse n'ukundi kuguru. Ikirenge cye cy'imoso kirahinnye yakoresheje amaboko ye afite ishashi irimo amazi isa ubururu ari kwikandisha ku kaguru yambaye ipantaro y'ubururu yicaye ku ntebe isa umweru.

Imbuto, amazi yo kunywa, ibikoresho bya siporo ndetse n'agatambaro karekare gapima uburebure bw'umuntu, amazi ari mu icupa ribonerana rifite umupfundikizo w'ubururu, mu mbuto harimo icunga ndetse hakaba n'insenda ziteretse inyuma y'igikoresho kiremereye gikorerwa muri siporo.

Agakoresho gasa n'agatambaro gafite ibara risa n'ubururu karazingazinze kazingiye ku kiziga gisa nk'umweruru gisa n'igipapuro gikomeye kiri hagati yako.

Umugabo wirabura wambaye imyenda y'umukara uri mu myitozo ngororamubiri, arasutamye yambaye umupira w'umukara wandikishijeho amagambo y'umweru, ipantaro y'umukara iriho umurongo w'umweru, iruhande rwe hari umugore wambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'umukara.

Umuntu wirabura ufite ishashi isa ubururu irimo amazi, ari kuyikoresha ku kaboko yikanda, yambaye umupira usa n'ivu, afite inzara zisa umweru n'ubwanwa, yambaye kandi ipantaro y'ubururu, yicaye imbere y'ahantu hasa umweru.

Igikoresho gifite utwuma tukizengurutse, ndetse n'udutambaro tw'umuhondo n'umukara tugiye dufashe ku mpande zombi, iruhande hariho ishusho y'abantu babiri bari gukoresha icyo gikoresho batwayeho umuntu uryamyeho ufite ikibazo.

Umuntu ufite uruhu rwera utagaragara isura cyangwa se ibirenge, afite agashashi gafite ibara ry'ubururu arigukoresha ku ivi rye asa n'uwikanda. Yambaye imyenda ifite amabara y'ubururu bwererutse.

Umugabo wirabura wicaye hasi yahinnye ukuguru kumwe ukundi kurambuye, yagushyizeho amaboko, yambaye umupira usa umuhondo ndetse ari mu myitozo ngororamubiri, inyuma ye hari ibyatsi bigufi bifite utubabi dutoya tw'icyatsi kibisi.

Ishusho irimo ibintu byinshi, birimo inkweto yo gukinisha umupira wamaguru, irimo amabara yumukara, umutuku, umweru, ndetse n'kigina, umupira w'amaguru, urimo amabara agiye arimo umweru, ndetse n'umukara, ndetse n'agakoresho kifashishwa n'umuganga, mu gupima imiterere y'umutima.

Icyuma cyo kwa muganga gipima abantu uburwayi butandukanye, gifite uruziga imbere y'urwo ruziga hari ikintu gisa n'uburiri baryamaho, gifite amabara asa umweru ndetse n'ivu, inyuma yacyo hari ikimashini kinini gisa n'inkingi ndetse icyumba gifite amabara asa umweru.

Abantu benshi bahagaze mu kibuga bari mu myitozo ngororamubiri, bahagaze ku mirongo myinshi itandukanye ndetse bahanye intera, imbere yabo hari umugabo wambaye umupira w'umweru uri kubakoresha imyitozo ngororamubiri.

Umugabo wirabura wambaye isengeri isa n'ivu ariko yererutse, ari gukora imyitozo ngororamubiri yasobekeranyije amaboko, asa n'uri kuyarambura, afite ubwanwa ndetse ahagaze imbere y'idirishya ry'ubururu.

Umugore wirabura uri mu myitozo ngororamubiri, ahagaze imbere y'amazi magari, afashe akaboko kamwe yagahinnye agerageza gukora mu mugongo, akandi kagafashe mu nkokora, kugira ngo kagafashe kwihina. Yambaye isengeri ifite ibara ry'ubururu bwererutse.

Umugabo wirabura ariko utagaragara umutwe cyangwa se amaguru. Yambaye umupira w'icyatsi kibisi wandikishijeho amagambo y'umukara n'ubururu ndetse ufiteho utumenyetso tw'umweru. Ateruye mu ntoki igisa n'umupira wifiteho amabara y'ubururu ndetse n'ibara risa n'ivu, wanditseho inyuguti y'umubare wa kane

Umugore wirabura wambaye igitambaro gisa umweru ufite igikapu gisa n'igitaka mu ntoki ndetse afite umusatsi w'umukara, ari gukora ku bibabi bifite amababi manini asa icyatsi, hejuru muri ibyo bibabi hariho insina y'igitoki.

Umugore uhagaze imbere y'imeza nini, iriho amacupa menshi agiye atandukanye, haba ku mabara, ku mifuniko ndetse n'ibindi, imbere ye kandi hahagaze umugabo wambaye ishati yijimye ndetse n'ipantaro isa n'ivu.

Icupa rijya kuba rinini rifite umupfundikizo usa n'ikigina cyanyandikishijeho amagambo asa n'ikigina ndetse rishushanyijeho akamenyetso gasa n'inyoni nako gasa n'ikigina. Ku ruhande rwayo hari ikirahure kirimo igisukika gisa n'amata gisa umweru ku ruhande kandi hari ibibabi bisa n'iby'igikakarubamba.

Umugabo ukuze wirabura yambaye umupira usa umweru ufite uturongo tw'umukara ku maboko ndetse no kwikora, ari gukora ku giti gifite utubabi dutoya twinshi dusa icyatsi kibisi ndetse inyuma ye n'aho hari ibyatsi n'ibiti byinshi bifite amabara y'icyatsi kibisi ndetse n'icyijimye.

Amakarito menshi ariko atanganya ingano, harimo abiri afite amabara ajya gusa n'icyatsi ndetse n'umweru, harimo uducupa kandi dusa umuhondo dufite imipfundikizo isa n'ikigina, dushushanyijeho igikakarubamba, hariho n'ishashi iriho ibisukika bisa n'ikigina.

Abantu babiri harimo umugore ndetse n'umugabo, umugabo yambaye umupira w'umutuku n'ikote ry'umukara, imbere ye hari ibyatsi bifite amabara y'icyatsi kibisi biri gutuma atagaragara neza, umugore yambaye umupira ujya gusa umweru, n'igitambaro gisa ubururu mu mutwe.

Icyapa kinini cy'umweru, kiriho amabara menshi arimo icyatsi ndetse n'umweru, hasi hariho ibibabi bifite ibara ry'icyatsi kibisi, ndetse cyandikishijeho amagambo asa icyatsi, asobanura ibijyanye n'imiti gakondo.

Amakarito atatu afite amabara atandukanye ariko yanditseho amagambo amwe n'amwe ajya gusa. Ikarito nini iteretse imbere, yanditseho amagambo asa ubururu, ibara risa n'ironji rihishije ndetse n'amabara asa umweru, rifite kandi amabara y'umweru n'umutuku.

Icupa rifite umupfundikizo w'umweru, rifite igipapuro kiriho amagambo yandikishije ibara ry'ubururu ndetse n'andi yandikishije ibara ry'umweru, hejuru y'ayo magambo hariho agashushanyo k'inyoni gasa na zahabu, hashushanyijeho ibisa n'amazi y'inyanja.

Amacupa atatu atandukanye ariko yenda guhuza ubwoko, afite amagambo ayanditseho agiye atandukanyije amabara. Rimwe ryandikishijeho amagambo y'ibara risa n'ubururu, irindi ryandikishijeho amagambo y'ibara ry'umutuku, irindi ryandikishijeho amagambo y'ibara ry'iroza.

Ibihingwa bibiri harimo ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi kibisi bimeze nk'imboga, iruhande rwabyo hari tangawizi ikoreshwa nk'ikirungo cyangwa se mu guteka icyayi, iruhande hari ikirahure kirimo ikinyobwa gifite ibara rya zahabu ndetse hejuru yacyo hateretse ikiyiko.

Ikarito isa n'iy'imiti ifite amabara menshi yiganjemo ubururu, umweru yandikishijeho amagambo manini asa ibara ry'ubururu ndetse n'andi ajya kuba mato asa ibara ry'umutuku n'andi asa n'ibara ry'umuhondo.

Ikarito ifite amabara atandukanye kuri yo arimo icyatsi, ubururu, n'umuhondo ndetse n'umutuku, iriho kandi imbere yayo ibinini bifungiye mu gashashi kabonerana bisa ibara rijya gusa n'ivu cyangwa se ikigina cyerurutse.

Abantu benshi bahagaze imbere y'imashini nini ihinga iri mu murima uteyemo ibisa n'ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi cyererutse bihinze ku murongo ndetse bisa n'ibikuze.

Amacupa menshi ateye bitandukanye, afite amabara atandukanye ndetse yanditseho ibintu bitandukanye. Yose ari ahantu hasa umweru. Harimo amacupa asa umuhondo yandikishijeho amagambo y'umuhondo ndetse n'andi asa umweru ndetse n'andi asa icyatsi kibisi.

Imbuto zirimo amaronji, indimu ndetse n'izindi. Zimwe zirasa n'irongi rihishije, izindi zirasa n'icyatsi kibisi. Hasi yazo hariho utubabi dusa icyatsi kibisi ariko kijya gusa n'icyijimye.

Umugabo uhagaze imbere y'inzu, yambaye umupira w'icyatsi ufite amakora asa umuhondo. Ateruye ibyatsi bifite amababi ndetse n'ibisa n'indabyo bitandukanye. Inyuma ye hari inzu ifite amabara menshi, harimo ubururu n'umweru ndetse n'icyatsi kiri hasi.

Icupa risa igitaka cyijimye, rifite umupfundikizo w'igitaka cyerurutse, rifite igipapuro kiryometseho cyanditseho amagambo no mu ibarajya gutukura, ndetse gifiteho amabara asa n'umutuku hejuru no hasi.

Agasahani k'umweru gateretseho agacupa ndetse n'imbuto. Agacupa gasa umweruru ndetse gafite n'umupfundikizo w'umweru kometseho igipapuro cy'amabara menshi arimo irijya gusa n'umutuku ndetse n'irisa n'iroza, Agacupa kandi gashushanyijeho akamenyetso gasa n'akanyoni.

Amacupa abonerana, harimo ibisukika bifite amabara atandukanye. Hari ibifite ibara risa nka zahabu, hari ibifite ibara risa n'ikigina cyijimye, yose afite imifuniko isa ubururu, harimo iyerurutse ndetse n'iyijimye. Afite yose impapuro ziyometseho zisa umweru, ziriho ibintu bisa n'umukara.

Icupa ry'imiti risa umweru, rifite umupfundikizo nawo usa umweru, riri ahantu hasa umukara. Ryifiteho igipapuro gisa umweru ariko kiriho n'amabara y'icyatsi. Cyandikishijeho amagambo menshi y'amabara atandukanye ndetse rishushanyijeho agashushanyo gasa n'inyoni.

Amakarito y'amabara menshi atandukanye ndetse n'imbuto birikumwe, mu mbuto harimo imineke ndetse n'inanasi, ayo makarito harimo asa umutuku, asa ubururu bwererutse n'ubwijimye, umukara ndetse n'umweru. Inyuma yayo hari indabo bifite amabara asa umuhondo n'icyatsi cyijimye.

Imbuto z'amapapayi ebyiri harimo iyuzuye ndetse n'ikase. Iyuzuye isa ibara ry'icyatsi kibisi naho ikase ifite imbuto z'umukara zirimo hagati, ku mpande yayo hasa nk'icunga rihishije.

Amacupa menshi atandukanye haba mu ndeshyo ndetse no mu mubyimba ndetse no mu byanditseho, amwe asa amabara arimo icyatsi n'umukara, andi asa amabara arimo umutuku, icyatsi ndetse n'ibara risa n'ivu.

Icyapa gisa n'irongi rihishije, kiriho amagambo yandikishije ibara ry'umweru, iruhande hariho utunini ndetse n'agacupa gasa umweru gafite n'umupfundikizo w'umweru, kariho igipapuro cy'umweru na cyo cyandikishijeho amagambo asa n'ibara ry'icunga rihishije kuri ako gacupa kandi hariho igihingwa gifite utubabi dusa n'icyatsi kibisi

Amacupa menshi harimo asa n'atandukanye haba ku miterere ingano ndetse n'amabara, harimo afite amabara arimo ikigina n'umweru ndetse n'icyatsi, harimo afite amabara y'umutuku, ikigina ndetse n'umweru, harimo afite amabara y'icyatsi ndetse n'umukara. Byose bigiye biriho udushushanyo tujya gusa, turimo ikijya gusa n'umugore ushushanyije.

Amakarito, amashashi ndetse n'amacupa bifite amabara agiye atandukanye. n'amakarito afite amabara y'icyatsi n'umweru ndetse imwe muri yo ishushanyijeho umugore usa n'uri gukora imyitozo ngororamubiri, amacupa yo afite imipfundikizo isa n'ikitaka cyijimye ndetse ishashi yo isa umweru n'igitaka cyijimye.

Agacupa kabonerana kifiteho urupapuro rw'umweru rugafasheho ndetse n'umupfundikizo w'umweru. Gateretse ku meza y'imbaho. Kuri urwo rupapuro handitseho amagambo yandikishije ibara y'umukara yerekana ko kagenewe gukaraba mu ntoki, hashushanyijeho kandi akanyoni gasa n'ibara ry'icyatsi.

Amakarito abiri ameze nk'amacupa, afite amabara atandukanye ariko ashushanyijeho ibintu bijya gusa. Rimwe rifite umupfundikizo w'iroza, ryandikishijeho n'amagambo y'iroza, rishushanyijeho igikakarubamba gifite amababi y'icyatsi kibisi, ariko ryo gisa umweru. Irindi risa umuhondo, rifite umupfundikizo usa n'igitaka kijimye, ryandikishijeho n'amagambo asa nk'igitaka kijimye n'igikakarubamba.